Umwana wunamye wambaye agapira k'umuhondo n'ijipo y'umukara, afashe amajerekani ari kuvoma, ku ruhande rwe hari umwana mutoya, amazi ari imbere ye, amabuye n'ibyatsi biri inyuma ye.

Amajerekani abantu baje kuvoma, bambaye ibitenge, abandi bambaye udupira tw'umweru, umuntu uhagaze ku kazu k'amazi wambaye umupira w'umukara, uri kuvomera abaje kuvoma.

Umubyeyi wicaye ukikijwe n'abana bambaye udupira tw'umutuku n'ubururu, we yambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'umukara. Yambaye rinete n'urunigi mu ijosi, abana bari guseka abandi bari kureba muri kamera.

Umubyeyi wicaye wambaye ikanzu y'igitenge, ateruye umwana wambaye agapira k'umweru, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, n'ikanzu y'igitenge, irimo amabara y'umuhondo, afite umutima ntoki ari guha uwo mwana, inyuma yaho hari urugi rufite ibara ry'icyatsi.

Umwana ufashe ijerekani ari kuvoma, umubyeyi ufashe ku cyuma ari guhaga amazi. Ku ruhande hari abandi bantu bahagaze bari kubarebera, inyuma hari intoki n'ibindi.

Umubyeyi uhagaze wambaye ijire y'icyatsi, afite agakoresho gafashishwa mu gupima umuriro yambaye agapfukamunwa imbere ye hari abandi babyeyi bahagararanye na we.

Umwana wambaye agapira ka kake, ikabutura y'umutuku, wunamye, afite amajerekani, ari kuvoma ku mugezi. Insina, ibyatsi byifashishwa mu kugaburira amatungo.

Umwana wunamye wambaye agashati ka gisirikare n'ikabutura y'umutuku, uteze amaboko ku iriba ari kunywa amazi, hasi hari indobo iri kujyamo amazi n'iriba rinini ririho robine ebyiri. Hirya ye hari inzu ngari iriho ikigega ndetse n'ibyatsi.

Umwana uri ku iriba, uteze ibiganza kuri robine, wunamye, wambaye agapira gasa icyatsi n'agakabutura, iruhande rwe hari indobo nini y'ubururu, inyuma ye hari ishyamba cyangwa se ibihuru.

Itsinda ry'abantu bahagaze basumbana bamwe inyuma y'abandi, bambaye amakote y'umweru n'ay'umukara, hirya yabo hari abagore bahagararanye na bo, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umwana wicaye wambaye agakanzu k'igitenge uri guseka, washyize ibiganza bye kuri robine iri kumena amazi, hirya ye hari amajerekani agera kuri atatu, imwe isa ubururu andi abiri arasa umuhondo, hirya ye hari ibyatsi.

Abantu bicaye ku meza, umwe wambaye ishati y'umukara, undi begeranye yambaye itaburiya y'ubururu, bose bambaye agapfukamunwa, imbere yabo hari imeza nini, iteretseho mudasobwa ndetse n'amakaye. Hirya hari abantu bicaye ku murongo, bategereje serivise.

Ikirango kiri mu ruziga kirimo umuntu uteruye umwana, gikikijwe n'amashami. Kiranga umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abana Unicef. Hasi hari amagambo ari mu ibara ry'umweru, yanditseho ngo, kubwa buri mwana.

Itsinda ry'abantu bicaye hamwe, umwe ahagaze, undi uteruye umwana, undi uri kurambura ibitabo, inyuma hari idirishya ry'umukara, igikuta giteye irangi ry'umuhondo.

Itsinda ry'abagore gusa bambaye ibitenge bisa nk'ubururu, umutuku n'umweru ndetse n'umukara, harimo n'abagore batatu bari imbere bambaye amajire hasi, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amategura, ifite umureko w'umweru.

Abaganga bane bambaye amataburiya y'ubururu n'udupfukamunwa bari kubaga umurwayi, iruhande rwabo hari icyuma kibafasha kumenya uko ubuzima bw'umurwayi bumeze mu gihe ari kubagwa, bari mu cyumba gifite ibara ry'umweru.

Umubyeyi wicaye ahetse umwana, yambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe, iruhande rwe hari umwana wicaye wambaye ingofero mu mutwe, umuganga ufite ikaramu mu ntoki n'ikayi, umubyeyi wambaye igitenge.

Umuganga uri guha umwana umuti, ari kumwe n'umubyeyi w'umwana, wicaye amukikiye. Umubyeyi yambaye ikanzu y'igitenge, umuganga yambaye taburiya y'umweru. Inyuma yaho hari urugi rusa icyatsi.

Umugore wambaye igitenge ahagararanye n'umwana muto, imbere yabo hari injirekani amabase n'indobo ku mugezi w'icyuma, aho abaje kuvoma, abana bari inyuma bari gumpa icyuma kugira ngo amazi azamuke, ku ruhande hari amazu asakajwe amabati ashaje n'ibiti biri ku ruhande.

Itsinda ry'abantu bateraniye hamwe, barimo abambaye amakote n'abandi bambaye bisanzwe bari kuganira, televiziyo ngari irimo ibiganza bibiri byashushanyije umutima, icyapa kinini cyanditseho ngo buri mwana agomba kugirirwa icyizere.

Itsinda ry'abantu batandukanye higanjemo abagabo n'abagore bari mu cyumba kigari gisa umweru, bigaragara ko bari bitabiriye inama, bamwe bafite amakaye yo kwandikaho abandi bafite amakaramu.

Itsinda ryabantu bateraniye hamwe harimo abagabo nabagore bambaye amakoti y'umukara, umweru n'ubururu, hagati y'ibihande bibiri biteganye harimo kamera ifata amashusho, imbere hari ekara nini igaragaza umuntu wambaye ikote ari gutanga ijambo, hirya ye hari abantu bicaye bateganye.

Umwana wunamye wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, ikabutura y'umukara, indobo y'umweru ifite umupfundikizo n'umukondo w'ubururu, akameza gafite amaguru y'ibyuma urugo rwubakishije ibishashara.

Ikirango kiri mu ishusho y'uruziga, kirimo umuntu uteruye umwana, gikikijwe n'amashami, gihagarariye umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abana , Yunisefu. Amagambo ari mu ibara ry'umweru, agaragaza kwita ku buzima bw'abana, ari mu buso bw'ubururu.

Umubyeyi wicaye wambaye agapira k'umutuku n'igitenge ari koza umwana mu mutwe wicaye mu ibase, hirya ye hari umwana uri kuvoma ku iriba wambaye agapira k'ubururu, hakuno hari undi mubyeyi wambaye igitenge ufite indobo y'icyuma, hakurya hari inzu nini isize irangi ry'umweru.

Umugabo uhagaze wifashe mu mayunguyungu wambaye imyenda isa, umugore wicaye imbere ye wambaye ikanzu y'igitenge, ameza ari iruhande rwabo ateretseho mudasobwa nyinshi n'ibyuma byifashishwa mu muziki, bari mu nzu yubakijeho amatafari ahiye afite n'irangi ry'umweru.

Abana babiri bafite mu cy cyuumweru nk'icyatsi bambaye agapira k'icyatsi bafite indobo bari iruhande rwa rubine barimo baravoma amazi ndetse hakaba hari n'ibiti bari umuntu.

Itsinda ry'abantu batanu, bane baricaye, babiri bambaye imyenda y'ubururu, abandi bambaye amataburiya y'imyeru n'ibibaranga mu ijosi, inyuma yabo hari undi uhagaze, wunamye washyize amaboko ku ntugu zabo, nawe wambaye itaburiya y'umweru, bari mu ihema, imbere yabo hari imeza iriho udutabo ndetse n'uducupa.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara wafashe ku njerekani n'ibiganza byombi, imbere ye hari iriba rifite robine ebyiri, inyuma ye hari ibihuru n'itaka.

Inzu ifite amabati y'umutuku, iteye amarangi y'umweru, uruziga rurimo amazi rukikijwe n'ibyuma bifite ibara ry'ubururu, abantu bambaye amajire y'icyatsi, imisozi iri hakurya, ibyatsi biri hasi.

Abantu batanu bakurikiranye, umwe yambaye ikanzu y'ubururu n'igitambaro mu mutwe, ukurikiyeho yambaye ikanzu y'umweru n'igitambaro mu mutwe, undi yambaye ikote n'ishati y'umweru, undi yambaye amarinete, bose barimo barareba imbere, hejuru hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru n'ikimenyetso kiri ku ruhande rw'iburyo, kiri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu bahagaze mu itsinda bamwe bambaye imipira y'umyeru, abandi bambaye amajiri y'umutuku n'icyatsi kibisi, bahagaze imbere y'umuntu wicaye uri kunywa ikinini, hasi hari agatapi, inyuma yabo hari urugo, hejuru yabo hari igiti.

Itsinda ry'abantu harimo abagore n'abagabo bambaye amakote y'imikara, amashati y'umweru n'ibitenge bicaye ku ntebe ndende, inyuma yabo hari igikuta gisize ibara ry'umuhondo ndetse n'ibipapuro byometse ku gikuta, hasi hari isima.

Itsinda ry'abantu bahagaze ku murongo, bambaye amatarubura y'imyeru n'ibibaranga mu ijosi, abandi bambaye imikara, hari abicaye inyuma yabo hari icyapa kinini.

Abana bari ku murongo, bari gukaraba intoki, bambaye udupira dufite amabara atandukanye nk'umweru, ubururu n'icyatsi, hirya yabo hari igiti kinini cy'inganzamarumbo kandi begereye ubusitani bwegereye inzu.

Umwana ufite akabido k'umweru n'ak'umuhondo, waje kuvoma ku iriba, imbere ye hasi hari ikarayi, undi muntu mukuru wambaye agapira k'umweru n'ikoboyi ufashe ku cyuma uri gupomba amazi, hirya hari umubyeyi wambaye agapira k'umututku n'igitenge ku ruhande rwo hira hari ibihuru n'ibiti.

Abana bicaye ku ntebe zimbaho bambaye coton, abandi bari hirya y'abo bambaye kake inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, hari amasahani ateretse imbere yabo hariho ibiryo, hariho n'amafoke, uri hagati w'umukobwa afite ifoke bigaragara ko barimo bararya.

Itsinda ry'abantu bahagaze abandi basutamye, bambaye amajiri y'ubururu, imipira y'umuhondo. Inyuma yabo hari inzu iteye irange ry'umuhondo, ifite amadirishya manini y'ibyuma, ku ruhande rwo hino hari indabyo ziteye, bahagaze mu matafari.

Umwana ufite igikombe kinini cy'icyuma mu ntoki, wambaye agapira k'umutuku, uri guseka, ari kuvoma ku iriba rinini, hariho robine ebyiri, zose ziri kumena amazi. Hirya ye biragaragara ko hari igikuta ndetse hirya icyo gikuta cy'iriba hari ibyatsi.

Icyuzi cy'amazi kiri mu ishusho y'uruziga, inzu iri hakurya yacyo ifite irangi ry'umweru, ishakaje amabati y'umutuku, hakuno hari inzira zubakiye kandi hasi hari ubusitani bw'ibyatsi burimo inzira, hakurya hari umusozi.

Abantu benshi bamwe bicaye mu byatsi abandi bahagaze, imbere yabo hari ihema rifite ibara ry'umweru, ku ruhande rw'ibumoso hari imodoka iparitse, inzu ifite ibara ry'umweru n'amabati y'umutuku ku mpande hari ibiti bikikije aho hantu.

Abagore babiri bicaye bateganye umwe yambaye ikanzu irimo utubabyo tw'umutuku n'umweru n'igitambaro yiteze mu mutwe cy'umuhondo, iruhande rwa hari undi mugore wambaye ikoti ririmo utudo tw'umukara n'umweru n'agapi kumukara mo imbere, imbere yabo hari imeza nini bashyizeho ibiganza, inyuma hari irido ry'ubururu n'amadarapo.

Abana bicaye hasi bambaye udupira twa oranje, bari kumwe n'abantu bakuru na bo bambaye udupira twa oranje, abandi bambaye utw'umweru n'amashati y'umukara, barimo barabanywesha amata mu nkongoro.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'igitenge uteruye akana, wegeranye n'umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, hagati yabo hari umunzani upima ibiro by'abana. Begereye inzu yubakishije amatafari manini ahiye, hasi hicaye n'abandi babyeyi bateruye abana babo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gupima ko umutima utera mu ijosi rye, ari gupima umwana uteruwe n'umubyeyi wambaye ikanzu ndetse n'igitambaro cy'ibitenge. Inyuma ye hari igikuta kijya gusa ubururu.

Ababyeyi bicaye ku murongo, begamiye igikuta cy'amatafari ahiye, amwe asize ibara ry'umutuku, andi asize ibara ry'umukara, bambaye imyenda itandukanye nk'imipira y'imituku, ibitenge, harimo n'abambaye amashati y'imikara. Bicaye bose bari kureba imbere yabo.

Umugore wambaye ishati y'igitenge ifite amabara y'umuhondo n'icyatsi, yambaye ijipo y'ubururu, yifashe mu mayunguyungu. Inyuma ye hari abandi bambaye imyenda y'umukara n'umutuku, bari ku murongo. Hagati yabo hari imeza nini ifite ibara rya orange. Ibikuta by'inzu barimo biteye irangi ry'umweru bishushanyijeho ibishushanyo nk'inzu n'umwana ndetse.

Amacupa atatu arateganya asize ibara ry'ubururu, hejuru hari insinga ziyahuza, ku ruhande rw'ibumoso hari icyuma kigaragaza umwuka uri muri ayo macupa, akaba ahagaze ku cyuma.

Umwana wambaye agapira k'umuhondo, n'ikabutura y'umukara, wunamye, afite akajerekari k'umweru, uri kuvoma kuri robine, iruhande rwe hari abandi bana, n'umuntu mukuru wambaye imyenda ya kacyi, afite agatambaro k'icyatsi, hasi hari iriba baje kuvomaho.

Umugore wikoreye indobo y'umutuku, afite n'indi mu ntoki y'umuhondo, wambaye igitenge kirimo utubara tw'umuhondo n'ubururu n'umweru n'agapira karimo amabara ya kacye. Imbere ye hari ibyatsi byumye n'ibiti.

Umwana wunamye wambaye agashati ka gisirikare n'akabutura k'umutuku, uri kunywesha ibiganza amazi, imbere ye hari iriba rinini rifite robine ebyiri, hasi hari indobo y'icyuma iri kugwamo amazi hirya ye hari ibihuru kandi hari n'inzu ndende ifite inkingi z'ubururu hakaba n'ikigega n'ibiti birebire.

Abaganga batatu bahagararanye babiri bambaye amakanzu y'ubururu undi umwe uri hagati yambaye ikanzu y'umweru, bose bari kureba imbere bafite udukarito mu ntoki turimo ibara ry'umweru, iruhande rwabo hari ikirahure inyuma yabo hari amarido y'umuhondo, hejuru yabo hari itara ryaka mu ibara ry'umweru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru wicaye ku ntebe y'umukara uteganye n'umubyeyi wambaye umupira wa pinki uteruye umwana, yiicaye ku ntebe y'umukara bari mu cyumba gifite amabara atandukanye nk'umweru ndetse n'umuhondo.

Icyumba kigari gifite ibara ry'umweru, giteraniyemo abantu batandukanye biganjemo ababyeyi, umwe akaba ahagaze ateruye umwana afite na anvelope mu ntoki.

Abantu batatu bicaye bateganye, babiri bicaye bafatanye ku rutugu, umwe wambaye agakoti k'umukara n'undi wambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'ubururu n'undi ubari imbere wambaye itaburiya y'ubururu afite igipapuro mu ntoki.

Abantu bicaye ku murongo, umwe afite mikoro arimo aravuga, undi yambaye ishati y'umukara n'akamuranga mu ijosi, imbere ye hari mudasobwa, ku meza ari imbere yabo afite igitambaro cy'umukara hateretseho amazi, amakaye n'amakaramu bari gukoresha, inyuma yabo hari amarido manini ari mu ibara ry'umukara n'ubururu.

Umugore wambaye Itaburiya y'umweru ndetse n'igitambaro cy'umukara yicaye, imbere ye hari abagore batatu bakurikiranye, uri imbere yambaye umupira w'umutuku n'igitenge, uri inyuma yambaye akitero k'umuhondo n'igitenge n'undi inyuma yambaye igitenge. Bari kumupima ku kaboko, bamushyizeho akuma gapima umuvuduko w'amaraso, hirya yabo hari jaride.

Abana bambaye imipira ya oranje bicaye hasi, bari kumwe n'abantu bakuru, umwe wambaye imyenda y'abaporisi, n'undi wambaye ijire ya kake, n'undi wabambaye umupira wa oranje, barimo barabanywesha bakoresheje ibikombe, hirya hari n'abandi bahagaze babareberera.

Umugabo wambaye umupira wa kacye n'agapfukamunwa k'ubururu wicaye wazinze akaboko kamwe, umuganga umwicaye iruhande wambaye ikatabuya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, ari kumutera urushinge ku rutugu, hirya hari abandi baganga bicaye n'undi uhagaze imeza zibari imbere ziriho ibitambaro by'icyatsi.

Uruvunge rw'abantu, harimo abagore n'abagabo n'abana, bari imbere y'umuganga wicaye, wambaye itaburiya y'ubururu n'undi uri hirya ye, uri kwandika ku ikayi. Imbere yabo hari imeza ngari, iteretseho impapuro nyinshi n'amazi yo kunywa.

Umwana wunamye uri kunywesha amazi ibiganza. Hejuru ye hari robine y'icyuma, iruhande rwe hari intebe ya purasitiki. Inyuma ye hari abandi bantu batonze umurongo, bambaye imyenda irimo umukara, n'indi ifite amabara atandukanye. Ahagana hasi hari ikirango kigaragaza umuntu uteruye umwana, kiranga umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abana UNICEF.

Umugabo wicaye wambaye agapira k'uburu n'ipantaro y'umweru wifashe mu biganza, yegeranye n'umuganga wambaye itaburiye y'umweru n'itiriningi y'ubururu iciyemo uturongo tw'umweru afite telefone n'ikaramu ari kwandika mu gitabo. Inyuma yabo hari icyapa kinini cyane cyanditseho ngo SIDA iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Umwana wambaye agapira ka oranje n' ikabutura y'ubururu, wunamye uteze igikombe cy'icyuma ku iriba, imbere ye hari iriba ryubakiye, rifite amarobine ari kumena amazi, hirya y'iriba hariyo ibihuru.

Itsinda ry'abantu batanu bicaye mu buryo butandukanye, buri wese yicaye ku ntebe y'umukara, imbere yabo hari ameza manini ariho amazi, impapuro bashyize na terefone zabo, inyuma hari amarido manini y'umweru, n'idirishya rinini.

Abana batatu bari kuvoma mu mugezi, umwe yambaye agapira k'umukara ahetse umwana, undi uri hagati yambaye agapira k'umuhondo, buri wese afite idomoro ye. Inyuma yabo ni ku musozi, hejuru gato hari ibyatsi bibakikije.

Ikiganza giteze robine amabuye, amazi atemba n'amanuka avuye mu itiyo ibyatsi ndetse n'umupira.

Ibiganza bibiri biteze amazi, kimwe cyambaye agakomo ka kuma, robine iri kumena amazi, hirya hari igikuta kijya kugira ibara ry'umweru, mu gihe hasi hasa umukara, uwo mu muntu kandi yari yambaye ishati y'ubururu

Umwana wunamye wambaye agakanzu k'igitenge, karimo amabara y'umutuku n'umweru, ari gukaraba kuri robine y'icyuma, hasi hari ibase y'umukara, inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ya boloke sima.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'uturongo tw'umutuku ku maboko n'ijosi ry'icyatsi, afite ikayi mu ntoki ari gukora umwana ku itama yicaranye n'abandi babyeyi bambaye amashati y'umukara n'ibitenge ndetse n'abandi bagore bari inyuma bambaye ibitenge.

Umugabo usutamye wambaye umupira wa orange, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'amarinete, afashe ku mwana wambaye umupira wa orange n'agakabutura k'ubururu uhagaze ku munzani. Iruhande rwe hari terefone iri hasi, inyuma ye hari abandi bantu bahagaze bambaye ipantaro y'umukara n'umweru n'undi wambaye inkweto z'umweru.

Umwana wambaye agapira k'umutuku, wasetse wikoreye ijerekani y'umuhondo, iriho ikirangantego cy'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abana UNICEF, iruhande rwe hari umugabo wasetse, wafashe kuri iyo jerekani na we wambaye agapira k'ubururu, n'ijiri y'umuhondo.

Itsinda ry'abantu ririmo abagore n'abagabo bambaye imyenda y'imikara, umutuku ndetse n'ubururu bari mu cyumba kiberamo inama. Inyuma yabo hari kamera zifata amashusho, hagati yabo hari imeza ziteretseho amazi yo kunywa.

Abana bane bahagaze ku iriba, bafite utujerekani baje kuvoma, iriba ry'icyuma, umugore wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara urimo urapompa amazi kugira ngo azamuke. Hakurya hari imisozi n'ibihuru, haruguru hari umuhanda urimo imodoka ifite ibara ry'umweru.

Itsinda ry'abantu bambaye imyenda ya oranje, umukara, n'abambaye imyenda ishinzwe umutekano polisi, hari n'abunamye imbere bari gutera imbuto mu karima k'igikoni. Inyuma yabo hari ishyamba.

Umwana uhagaze wambaye agapira k'umutuku, ikabutura y'ubururu bwererutse na bote n'inkoni, abandi bahagaze iruhande rwe barimo baraseka, itiyo iri kumena amazi, injerekani, ivomero, ibyatsi n'ibiti.

Abantu benshi bicaye mu byatsi abandi bahagaze, imbere yabo hari ihema rifite ibara ry'umweru ruhande rw'ibumoso hari imodoka iparitse. Inzu ifite amabati y'umutuku n'ibara ry'umweru ahagana hejuru, ku mpande hari ibiti n'imirima ikikije aho hantu.

Itsinda ry'abantu begeranye bamwe bambaye imyenda y'ubururu abandi bambaye amataburiya y'umweru harimo n'abikenyeye ibitambaro mu mutwe, bari munsi y'agakinga kubakishije amabati, iruhande rwabo hari icyapa cy'ubururu, inyuma yabo hari inzu zubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu bateraniye mu nzu isize irangi ry'umuhondo ifite urugi runini, n'amadirishya manini. Bamwe bambaye imyenda isa icyatsi, abandi bambaye imipira y'umweru n'umukara. Hari umugabo uhagaze hagati usa nkuri kusobanurira.

Umwana muto ufite akabido uri kuvoma ku iriba rigari, n'undi uri hejuru ye wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu bwererutse uri kumuvomera, abana bari mu muhanda bari kugenda bavuye ku ishuri bambaye imyenda ya kontoni ndetse na kaki.

Abantu bahagaze ku murongo bafatanye ku ntugu, bamwe bambaye amakanzu y'icyatsi bafite ibitabo mu ntoki, begereye icyapa kiho umugore wambaye imyenda y'umweru, inyuma yaho hari inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse n'inzugi z'umweru, harimo umurongo wanditse uriho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'ubururu, uturindantoki tw'umweru, n'udupfukamunwa, umwe wunamye ari gupima umusaza wambaye ikanzu y'umukara ingofero y'ubururu mu kanwa, inyuma yabo hari ihema rifite ibara ry'umweru n'imeza iteretseho udukoresho dutandukanye, hakurya hari abandi bantu bari ku murongo bategereje guhabwa serivisi.

Umukecuru wicaye hasi wambaye imyenda isa nabi, afite uducupa tw'amazi iruhande rwe n'inkoni, inyuma ye hari abantu bari kugenda mu nzira, hamwe n'abicaye ku ibaraza ry'inzu iri inyuma yabo ho gatoya.

Abana bahagaze mu gikundi bari guseka, umwe ufite akadomoro, bari iruhande y'ibyatsi birunze, inyuma yabo hari ibiti byubakiye ndetse n'ibiti bisanzwe bibisi biteye.

Umubyeyi wicaye wambaye itaburiya y'umweru ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye hari imeza iriho mudasobwa n'uducupa tw'amazi, inyuma ye hari abandi bantu batandukanye barimo umugore wambaye ikoti ry'umutuku n'abandi bambaye imyenda itandukanye.

Umugabo muremure uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'igitenge, ari gusuhuza umugabo w'umwirabura unanutse wambaye imyenda yacikaguritse n'imisatsi idashokoje, bari mu nzu iteye irangi ry'umuhondo.

Umugabo wicaye wifashe mu gahanga, afite umusatsi w'umukara, iruhande rwe hari umugore wamufashe ku rutugu, wambaye isaha n'agapira k'umweru, ufite imisatsi ijya kumera umuhondo, hirya yabo hari amadirishya, afite ibirahure by'umweru.

Umuntu wicaye, yunamye ari kureba hasi, yambaye agapira k'umweru, yafatishije amaboko ye yombi ku mutwe we, afite umusatsi yasutse w'umukara, yicaye ku buriri bw'umweru, inyuma ye hari igikuta gisa umweru.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umuhondo, uri kumwe n'umukobwa wambaye imyenda bisa n'ishati y'umweru, bose bambaye udupfukamunwa, hino yabo hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, hasi hari ibara ry'ubururu ririmo amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, bari gusuhuzanya bakoresheje inkokora.

Abantu batatu bicaye bateganye bateruye abana, undi wicaye hagati yabo washyize inkokora ku meza iriho ikayi na telefone n'agasahane, hirya ye hari konjerateri iriho ijage, hakuno hari akabati bashyiramo ibintu.

Umusaza usutamye washyize akaboko kamwe inyuma ye, akandi kari hejuru yambaye imyenda isa nabi, hirya hari umuntu wicaye ku igare wambaye ishati y'umweru, ari munsi y'akazu gashaje gasakaje amabati ashaje, ni ku muhanda inyuma y'uyu musaza uri hasi, hari ipoto y'amashanyarazi.

Umugabo uhagaze iruhande rw'igikuta cyubakishije amatafari manini, wambaye ipantaro y'umweru, ishati ya karokaro, uhetse n'igikapu. Iruhande rwe hari icyapa kinini, gifite ubuso bw'umweru, kirimo amagambo afite ibara ry'umukara n'iry'ubururu ndetse hariho n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Imbaga y'abantu yiganjemo abagore ,bakuze bateraniye hamwe bari gukoma amashyi, uwimbere yambaye ikanzu y'igitenge n'ishanete mw' ijosi ,inyuma ye hari ameza nini y'igitambaro cy'umweru iteretseho uducupa tw'amazi.

Umubyeyi wambaye agashati k'umweru uri guseka, ateruye umwana w'uruhinja, wambaye agapira gafite amabara y'umweru gaciyemo utubara tw'umutuku, inyuma yabo hari igikuta cyubakisheje amatafari ya mpunyu, hirya hari idirishya rifite ibara ry'umuhondo.

Abantu icumi bahagaze ku murongo. Umwe yambaye ipantaro y'umutuku, undi yambaye ikanzu y'umuhondo, undi yambaye imyenda y'umweru, undi wambaye imyenda y'igipolisi, undi wambaye imyenda y'igitenge. Inyuma yabo hari ibyapa bibiri bisa uburu n'ikindi gisa umutuku n'umweru.

Umugabo wunamye wifashe mu biganza ku nda ye wambaye ikositimu y'umukara. Imbere ye hari ururabyo rurimo amabara y'umweru n'umutuku. Hirya y'uwo muntu hari undi wambaye ijiri y'umuhondo n'umweru n'agapira k'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi. Inyuma yabo hari igikuta cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umwana wambaye agapira k'umweru, wifashe ku mutwe, arimo ararira, iruhande rwe hari umumama wambaye imyenda y'ibitenge, ufite inkwi mu ntoki, inyuma ye hari abana benshi n'abantu batandukanye, umwe afite ijerekani, bigaragara ko bari mu nkambi.

Umugabo w'umwirabura uhagaze wambaye ishati y'igitenge, ari kureba hejuru yegamiye igihuta kirekire gifite ibara ry'umweru, hasi hari amapave, hejuru ku ruhande rw'iburyo agana hirya hari igiti.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo ufite ijosi rirerire, ubwanwa bw'umukara, amenyo y'umweru yasetse, afite umukara w'umukara n'ingohe z'umukara, inyuma ye hari ibara ry'umweru mpuzankano, afite n'izuru rirerire.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku ahahagaze inyuma y'urukuta rw'amatafari, hejuru ye hari undi mugore wegereye urukuta rusa umuhondo, ku ruhande hari undi mugore wambaye ikanzu y'igitenge ,hejuru hari abantu bafatanye ku rutugu umwe yambaye agapira k'umweru, undi ak'umuhondo, hakuno hari umugore wambaye ikanzu y'igitenge uhagaze mu bihuru.

Itsinda ry'abantu batandukanye, barimo abagore n'abagabo, bambaye amakoti y'ubururu, umweru, amashati y'umukara, amakanzu y'icyatsi n'ibindi. Hakuno yabo hari icyapa gisize ibara ry'umweru n'ubururu. Inyuma yabo hari urugi runini cyane, ruri mu ibara ry'umukara.

Abantu batanu bicaye bateganye harimo ababyeyi bambaye ibitenge n'amakanzu n'umugabo umwe wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro ya kake, bicaye ku ntebe y'urubaho hirya yabo hari insina n'ibiti bitandukanye nk'amashyamba.

Umukobwa w'umwirabura wasetse ufite imisatsi y'umukara, imbere ya amabara atandukanye arimo umuhondo, pink, n'icyatsi. Hejuru ye hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ngo buri muntu ahantu hose, hirya hari ibara rya jone.

Umugabo wicaye wegamiye igikuta gisa nabi, wambaye agapira k'ubururu gaciyemo uturongo tw'umweru ndetse n'igitenge, yambaye amapingu ku maguru, yicariye akaringiti karimo ururabyo rw'ibara ry'umutuku n'umweru, hirya ye hari ahandi hantu harambuye igitenge hasi kuri sima, yifashe mu gahanga.

Itsinda ry'abantu bahagaze bamwe bicaye, bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye amashati, imipira, amakanzu n'amapantaro, imbere yabo hari imeza nini iteretseho agacupa k'amazi, inyuma yabo hari irido rinini n'inzugi n'ifoto imanitse ku gikuta.

Abagore batatu bicaye hamwe, umwe yambaye agapira k'umweru, undi wambaye ak'umukara, undi yambaye ak'ubururu kandi bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari inzu yubakishijwe amabati, hakurya ku ruhande rw'iburyo, hari izindi nzu zubabakishijwe ibyatsi.

Itsinda ry'abana bari guseka bambaye imyenda itandukanye, ifite amabara y'umweru, umuhondo, umutuku, icyatsi, ubururu, umukara, inyuma hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Abana bicaye basetse, umwe wambaye agapira k'umweru, kariho akarongo k'umutuku ahagana ku ijosi, abandi bambaye iniforume igizwe n'ishati y'icyatsi, bicaye hamwe, inyuma yabo hari abandi bana bambaye andi mashati y'amabara atandukanye.

Umugabo w'umwirabura wambaye ishati y'ubururu, ufite mikoro y'umukara, ari kuvuga, amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi ari mu ibara ry'umuhondo. Ikirango gikoze nk'ubwonko, cyanditseho ubuzima bwo mu mutwe.

Umumama uri guseka wambaye ishati y'umutuku, imbere harimo agapira k'ubururu, afite umusatsi w'umukara n'amenyo yera de, inyuma ye, hari inzu isize irangi ry'muhondo, ifite na giriyaje n'intebe ku ruhande rw'ibumoso.

Inzu yigiye hejuru ifite urukuta rw'amabuye ruyishyigikiye ndetse na esikariye zikikijwe n'ibyuma zijya kuri iyo nzu. Ifite ibara ry'umuhondo, isakaje amabati ajya gusa umutuku ndetse n'umureko w'icyatsi, ifite icyapa hejuru.

Itsinda ry'abantu bahagaze ku murongo, bamwe bambaye imyenda y'umweru, abandi imikara, abandi ubururu, imbere yabo hari ameza manini abiri, ariho impapuro. Ku rukuta rw'inyuma rusize irangi ry'umuhondo, hagati harimo umuryango. Hejuru hari parafo yubatse mu biti.

Umubyeyi uhagaze wambaye ikanzu y'igitenge n'ishakoshi mu ntoki, afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hari undi mukobwa wambaye agapira k'umututu, n'ipantaro y'umukara uri kumusanga. Hirya yabo hari abandi bantu benshi bicaye mu ntebe bari kubareba, inyuma y'abo bantu hari amarido y'iyo nzu.

Umubyeyi uhagaze wasetse wambaye amarinete afite imisatsi y'umukara, afashe agatabo, yambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo n'ay'ubururu. Inyuma ye hari igikuta cy'amatafari ahiye n'inzu isakaye.

Abantu bagera mu icumi, bamwe bambaye udupira tw'umukara, abandi bambaye udupikara tw'umweru, bahagaze mu ihema, imbere yabo hari ameza manini ariho ibitambaro by'umukara, kuri ayo meza naho hakaba hariho ibindi bintu bitandukanye, birimo n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Abantu icumi, bamwe bambaye imyenda y'umukara abandi bambaye umupira w'umweru n'iy'umuhondo, inyuma yabo hari imodoka ya tagisi iparitse ndetse n'amahema ari inyuma ho gato y'iyo modoka.

Umubyeyi uhagaze imbere y'agatuti, wambaye ishati y'ubururu, afite imisatsi y'umukara, yambaye n'amarinete ari kureba imbere ye, iruhande rwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku ari mu ibara, impuzankano y'umweru.

Umugore wicaye ufite mikoro wambaye ikoti ry'ubururu, imbere ye hari imeza nini ifite ibara rya kaki iteretseho uducupa tw'amazi, n'ibindi bikoresho bitandukanye, hirya ye hari undi mugabo wambaye agapfukamuwa n'ikoti ry'umukara, na we ufite ikaramu mu ntoki. Inyuma yabo hariho ibyapa bitandukanye byanditseho Minisiteri y'ubuzima n'ikirangantengo kiranga Repubulika y'u Rwanda.

Umugabo uhagaze iruhande rw'umuhanda ibumoso, hirya ye hari moto n'imodoka biri kugana aho ari, yambaye imyenda yacikaguritse, iruhande rwe hari ibiti binini bikikije umuhanda, ari kureba imbere kandi arimo ararya.

Abantu bicaye mu matsinda harimo abambaye imipira y'umweru, udupfukamunwa, harimo n'abandi bambaye ibitwenge, hagati yabo hari meza ifite amaguru y'umukara, batwikirijwe n'amahema afite ibara ry'umweru.

Umuntu uhagaze wabumbye amaboko wambaye agakote k'umukara n'ikanzu y'umutuku, imbere hirya ye hari icyapa, imbere ye hari umuryango, inyuma ye hari igikuta gisize ibara ry'umweru.

Itsinda ry'abantu bahagaze bateganye, bose bambaye udupira tw'ubururu hejuru n'amapantaro afite amabara atandukanye, uretse umugabo uhagazemo hagati wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'undi mugore uhagaze ku ruhande rw'ibumoso, wambaye ikote rijya gusa kake n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari inkingi zifite amabara atandukanye.

Umubyeyi wambaye igitambaro mu mutwe cy'ibitenge kirimo amabara y'ubururu, umutuku n'umuhondo, yarakaye yakunje iminkanyari, ari kureba imbere yambaye amaherena, ikanzu y'umuhondo yiteye mekepu ku munwa ndetse no ku maso.

Umuntu wicaye yemye yifashe mu biganza yambaye isahan n'itubura y'umweru n'agapira k'umuhondo, iruhande rwe hari iburyamo busa icyatsi n'umweru, hirya hari amarido n'idirishya.

Abantu barimo abakuze n'abana bicaye ku ntebe hari abandi bantu bahagaze inyuma bambaye imberera y'umweru n'udupfukamunwa n'undi wambaye ikanzu y'umutuku, abicaye bambaye udupira tw'icyatsi handitseho amagambo y'umuhondo begereye imeza iri imbere yabo iriho igitambaro cy'umweru.

Umugabo wambaye agapira k'umweru uri kwirebaba mu kirahure, afite umusatsi w'umukara ikindi afite akagozi mu ntoki, arimo arasukura amenyo ye kandi amenyo ye arasa umweru dede.

Umugabo w'umwirabura wambaye agatuza wasetse, afite amenyo y'umweru ndetse afite n'umugozi mu ntoki zombi yenda gushyira mu menyo, inyuma ye hari umweru.

Umugabo wasetse, afite urudodo mu ntoki, yarushyize mu menyo n'ubwanwa, yambaye agatuza, umusatsi usa umukara n'amatwi.

Icyumba gisize ibara ry'umweru, urugi rusa shokora hejuru hari isaha, utubati tujyamo ibikoresho bitandukanye, intebe yicarwaho bagaramye n'ibyuma byifashishwa kwa muganga.

Umusore uryamye ku gitanda, wasamye, wambaye agapira k'umukara, muganga wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki, afite udukoresho twifashishwa mu kuvura amenyo arwaye.

Umugore wambaye agapira k'umweru, ufite imisatsi y'umukara, n'uburoso mu ntoki uri kwiborosa, ari kwireba mu kirahure, imbere ye hari akameza gateretseho amavuta ye yisiga, n'itasi irimo uburoso bw'amenyo butandukanye,

Umugabo uryamye wambaye ishati irimo uturongogo tw'ubururu n'umweru, wasamye ufite amenyo yera, afite ubwanwa n'umusatsi w'umukara, umuganga umwicaye iruhande yambaye uturindantoki tw'ubururu, afite iryinyo mu ntoki n'akandi kantu hariho amenyo menshi y'insimbura.

Umugabo w'umwirabura wasamye ufite amenyo y'umweru, ikiganza gifite inzara zera gifashe agakoresho gafata amenyo, ururimi n'izuru.

Umuganga wicaye wambaye agapfukamunwa, itaburiya y'umweru n'uturindantoki, imeza y'umukara iriho impapuro na bike, imbere hari umuntu wunamye wasamye uri gusuzumwa amenyo.

Umugore wasetse, ufite imisatsi y'umukara n'amenyo y'umweru dede. Washyize intoki ebyiri z'amaboko yombi imbere ku munwa we, ufite izuru rinini ndetse n'amatama abyibushye.

Umugabo wambaye ikoti ry'ikoboyi n'agapira k'imbere gasa shokora, afite ubwanwa bw'umukara yasetse, afite amenyo y'umweru n'umusatsi w'umukara, n'ibitsike by'umukara, afite izuru rirerire.

Umugore wicaye wishyizeho agatambaro k'ubururu wikoze kukanwa, afite indorerwamo yasetse yambaye agapira gacimo uturongo twa oranje n'umweru. Yicaye ku ntebe y'umweru, iruhande rwe hari akabati kajyamo udukoresho dutandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'umweru wazamuye amaboko, afite akagozi mu ntoki ari gucisha mu menyo ye, amenyo ye arasa umweru, afite umusatsi w'umweru ari kwireba mu kirahure kandi ahantu ari naho harasa umweru dede.

Akuma gafashe iryinyo ririho amaraso, bamaze kurikura umuntu, umwobo umaze kuvamo iryinyo. Ku ruhande hari andi menyo, amwe afite ibara rijya gusa kake, irindi risa umweru.

Umwana uryamye uri guseka yambaye agapira k'umweru, bamushyize utwuma mu kanwa tupima uko amenyo ye ameze aryamye ku buriri busa umweru, uri kumuvura yambaye uturindantoki dusa umweru.

Umuntu wambaye isengeri y'umweru wazamuye ikiganza gifashe uburoso bw'amenyo arasetsa ari kwiborosa, afite imisatsi y'umukara, ari kwireba mu kirahure, hirya ye inzu arimo irasa nk'umweru.

Umugabo wicaye, wambaye amarineti n'agapfukamunwa n'itaburiya y'icyatsi n'uturindantoki, ari kumurika mu kanwa k'umwana uryamye ku gitanda cyo kwa muganga. Inyuma hari utubati turiho ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Abagore babiri bahagararanye umwe wambaye ikoti ry'ubururu bwerurutse undi wambaye ikoti ry'umutuku, bafite impapuro n'amakaramu mu ntoki, imbere yabo hari imeza ndende iriho igitambaro cy'ubururu n'uducupa ndetse n'amaterefone, inyuma yabo hariyo agatuti ndetse n'ibyapa.

Icyumba kigari gifite ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe umuntu yicaraho aryamye ndetse n'intebe isanzwe umuntu yicaraho yemye, hakaba harimo utubati intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa havurwa abarwayi.

Abana bato bambaye iniforume y'ishuri bafite udukombe mu ntoki n'uburoso bw'amenyo, bamwe bari kwiborosa abandi bari gucira, abandi barimo baraseka, inyuma yabo hari ibiti.

Abana batonze umurongo bagera kuri batatu, bose bambaye kontoni kandi bafite n'uburoso bw'amenyo, bigaragara ko bari kwiborosa, uw'imbere afite uruso busa umuhondo, uw'inyuma afite ubusa icyatsi, uw'uyuma wa gatatu afite ubusa ubururu.

Icyumba kigari cyiganjemo ibara ry'umweru ryera. Hagati harimo intebe eshatu zifite ibara rya kake z'ubwugamiro. Inyuma y'izo ntebe hariyo ibirahure binini byererana. Hakuno hari igikoni ndetse n'ubukarabiro.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, afasha uyu umwana ku rutugu, ari kumwereka uburyo boza amenyo, uwo mwana yambaye ishati y'icyatsi, inyuma yabo hari abandi bantu bahagaze, umwe yambaye ikote undi yambaye imyenda isanzwe kandi hari ikibaho cy'mukara cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umuntu uri guseka ufite imisatsi y'umukara irimo utwuma, imbere ye ikiganza cyambaye akarindantoki gifite iryinyo benda kumushyirira mu menyo, aregamye ku musego w'ubururu, hirya ya hari abandi bantu.

Umusore wambaye umupira w'ubururu bwijimye w'inzobe, wasetse afite amenyo yera n'ubwanwa bw'umukara n'amaso hari n'imboni z'umukara ndetse afite n'umusatsi mukeya yiyogoshesheje orudineri.

Umuntu wasetse ufite imisatsi n'ubwanwa by'umukara, wambaye agapira k'umweru n'agatambaro mu gatuza k'umweru, wicaye mu nzu isuzumirwamo ibimenyetso byatanzwe n'abarwayi.

Umuntu wambaye imyenda y'abaganga, yambaye amarineti, agapfukamunwa, afite ikaramu ari kwandika ku rupapuro, imbere ye hari ameza manini ariho ibikoresho byifashishwa kwa muganga.

Abantu bane bari kugenda munzira babiri bari imbere bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara, uwa gatatu ubegereye yambaye agapira k'umweru n'amarineti, uri inyuma yabo yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo hirya yabo hari ibyatsi biri ku murongo.

Umukecuru uhagaze ufite ikirahure mu kuboko kw'iburyo, n'imiti mu kw'ibumoso, yambaye amaherena n'impeta, imbere ye hari ubukarabiro, hirya ye hari amarido y'umweru inyuma ye hari igikuta cyubakishije amakaro.

Umuforomo wunamye wambaye itaburiya y'ubururu agapira k'umweru n'isaha, imbere ye hari umubyeyi wasetse wambaye agapira kajya gusa ubururu bwerurutse n'agashati k'umweru mo imbere wifashe mu gatuza, yicaye ku ntebe y'imisego.

Umwana wambaye agapantaro k'icyatsi agashati k'umweru afite umupira wifashishwa mu mikino y'amaboko, inyuma ye hari umusaza wambaye agapira k'umweru n'akabutura ka kaki n'inkweto. Bari gukina bari mu kibuga cy'umukino w'amaboko.

Abantu bari muzira bagenda umwe yambaye umupira w'ubururu, unda wambaye tiriningi y'umukara irimo uturongo tw'umweru, bari guseka, inyuma yabo hari igiti ndetse n'icyo byegeranye, ibyatsi, ubusitani.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umweru, wambaye amarinete, afashe mu kiganza cy'umugore w'umuzungu wambaye agapira k'umweru n'itaburiya y'ubururu mu imbere kandi afashe ku giti kimufasha kumanuka, kiba gikikije ama esikariye mu nzu kandi hari amarange ateye mu cyumba barimo n'inzugi zifite ibara rya shokora.

Abantu babiri bicaye barebana umwe wambaye agapira ka oranje undi wambaye ak'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho amasahane ariho ibiryo ndetse n'igikombe kirimo icyo kunywa, inyuma yabo hari igikoni.

Umusaza wicaye wambaye agapira k'ubururu bwerurutse wambaye n,amarineti n'ipantaro ya kake, bari kumushyirira akuma gafasha kumenya uko amaraso agenda ku kaboko. Yicaranye n'umufomo wambaye taburiya y'ubururu n'akuma kafashwa mu gupima uko umutima utera. Bicaye ku ntebe y'imifariso ku ruhande rwabo hari akabati gateretseho itara inyuma yabo hari rido.

Abamama batatu bakuze bahagararanye, umwe afite telefone mu ntoki barimo bifotora, uwo hagati yambaye ikanzu y'umuhondo, uw'iburyo yambaye iy'umweru, uw'ibumoso yambaye ijyasa ubururu bose bafite imvi.

Umukecuru ufite imvi wambaye agakoti k'umukara, ari guterura agakoresho kifashishwa mu nzu ngororamubiri, ari kumwe n'umukobwa wambaye agapira ka oranje ufite imisatsi y'umukara.

Umugore w'umuzungu wambaye itaburiya isa nk'ivu n'agapira k'umweru mu imbere afashe ijage ya ji arigusuka mu kirahure. Iruhande rwe hari umusaza wambaye umupira w'umweru dede ufite ifoke agiye kurya. Imeza iri imbere yabo isa umweru iteretseho amasahane, ibikombe, n'imbuto zitandukanye.

Abantu batanu bahagararanye. Umwe ni umukecuru wambaye agapira k'umweru, wafashe ku rutugu rw'umukobwa wambaye agakanzu karimo utubara dutandukanye, hari n'umusaza uri hagati wambaye amarineti n'ishati iciyemo uturongo n'umusore uri hakuno, ku rundi ruhande rw'ibumoso wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara. Imbere yabo hari akana gato kambaye ishati y'umweru.

Umusaza usobekeranyije amaboko ufite telefone mu ntoki, wambaye ishati y'umweru irimo uturongo n'amarinete, yicaranye n'umukecuru ufite urupapuro mu ntoki, imbere yabo hari imeza nini iriho ikaramu n'amakayi, inyuma yabo hari intebe zifite ibara rya kake n'amadirishya y'inzu arasa umweru n'amarido meza manini.

Umuforomo wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'akuma kifashishwa mu kumva uko umutima utera wegeranye n'umubyeyi ufite inkoni mu ntoki wambaye agapira kajya gusa ubururu ndetse wambaye n'gashanete mu ijosi.

Abasaza babiri bateganye bose bambaye imyitero n'ingofero ku mutwe, umwe yambaye amarinete, undi ari gukoma amashyi, inyuma yabo hari imbaga y'abantu iri mu gishararagati bisa nk'aho bitabiriye ubukwe.

Umugore w'umuzungu wambaye agapira ka move uri gufasha umubyeyi ushaje w'umwirabura gukora siporo, bari mu nzu ifite amadirishya manini y'ibirahure, inzu ikaba iteye irangi ry'umweru.

Umusaza wambaye agapira k'umweru n'ikabutura y'umukara ufite udukoresho mu ntoki twifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, ari kumva ekuteri, yambaye amarinete inyuma ye hari ishyamba, ku rundi ruhande hari amazi.

Umubyeyi w'umugore wambaye agapira k'umuhondo, uri gufungura imiti, imbere ye hari umusaza wambaye agapira k'umukara, iruhande rwabo hari imeza ngari iteretseho ikayi ndetse n'igikombe cy'amazi cy'ikirahure. Inyuma yabo hari amadirishya ndetse n'intebe n'amatara na radiyo.

Umuforomo wambaye itaburiya y'ubururu n'agapira k'umweru imbere, umusaza wambaye ijaketi y'umweru ufite inkoni mu ntoki bari. Mu cyumba kigari gisize amabara y'umweru, intebe nini y'misego.

Umuganga uhagaze wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara, umusaza wambaye umwenda baryamana n'ipantaro y'umutuku, uri kugendera ku kuma gafasha abarwayi kwiga kugenda, mu nzu barimo ifite inzugi nini z'ibirahure, iteye irangi ry'umweru.

Umurwayi uryamye mu bitaro, wambaye imyenda y'umweru, iruhande yaho hakaba hari icyuma gifasha abaganga mu gusuzuma abarwayi uko umutima utera, iruhande rwe bakaba hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Umusaza wambaye ikote rya oranje n'agapira ka gisirikare mo imbere, ahobeye umukobwa wambaye ikote ry'ikoboyi n'agapira k'umweru mo imbere gaciyemo uturungo tw'umukara, umukobwa yambaye amarinete, inyuma yabo hari icyuma cy'ikibati giteye irange ry'umukara.

Umugore wicaye wambaye imyenda y'umutuku ndetse n'uturindantoki tw'umweru n'agapfukamunwa n'amarinete, afite agakoresho kifashishwa ko kwa muganga mu gupima uko umutima w'abarwayi utera, afashe akaboko umukecuru wambaye ikanzu y'igitenge n mu tubara tw'umweru n'umuhondo wunamye, hirya yabo hari ibiti ndetse n'indabyo ziteye muri jaride.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, uri muri siporo, ufite agacupa ka mazi, hirya ye hari undi mugabo uri mu kigero cye ufite umupira ku rutugu w'umukara, bari mu ishyamba bari gukora siporo.

Umusaza wicaye wambaye ishati y'umweru iciyemo uturongo tw'ubururu, ari kumwe n'umukecuru wambaye agapira k'ubururu, ufite agapapuro mu ntoki, umusaza afite telefone mu ntoki, imbere yabo hari ameza manini ariho agacupa k'imiti n'ikirahure cy'amazi, inyuma yabo hari konjerateri ndetse n'urukarabiro n'igikoni.

Umuforomo wambaye itabuririya y'ubururu ndetse n'agakoresho kifashishwa kumva uko umutima utera mu ijosi, arimo arahereza ibinini umubyeyi wambaye ikanzu ya cake, imbere ye hari ameza manini ndetse n'igikombe cy'amazi.

Umusaza wambaye umupira wa kake undi mugabo wambaye agapfukamunwa n'umupira w'umweru afashe mu mugongo, hirya yabo hari igikuta gisize irange ry'umweru, imbere yabo hari ikirahure, hakurya hari ibiti biteye ku nzira, bari kureba hasi arimo aramufasha kugenda.

Umubyeyi w'umwirabura wicaye wambaye agakote k'umweru imbere harimo agapira kakajya gusa ubururu, ufite akagozi kajya gusa umutuku mu ntoki ze, iruhande rwe hari umuganga wambaye ikanzu ijya gusa ubururu ndetse n'ishati mo imbere y'umweru iruhande rwabo hakaba hari igitanda n'itara.

Umusaza wicaye ufite igikombe cy'amazi, ari kunywa, afite imvi n'umusatsi, imbere ye hari umukecuru wambaye itaburiya y'ubururu, wambaye n'amarinete, kandi uwo musaza yicaye ku gitanda gifite imisego y'umweru, igikuta, igitanda yegamyeho kirasa umweru.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu n'agashaneti ku kaboko n'impeta wicaranye n'umukecuru ufite ikayi mu ntoki n'imvi ku mutwe, imbere yabo hari ameza manini inyuma yabo akantu bicaraho gafashe hejuru ku gikuta.

Umugabo wambaye ishati y'ubuubururu n'agapfukamunwa wicaye mu ntebe ya palastiki isa nka kake, ari kureba umuntu wambaye itaburiya y'ubururu n'agapfukamunwa ari kumufasha gufunga ibipesu byo ku ishati hirya yaho hari ibiti kandi bicaye mu busitani.

Umusaza wicaye wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'umukecuru bateganya wambaye agapira k'umutuku, inyuma yabo hari umusore wambaye agapira k'umweru n'ikarita iranga akazi bakora mu ijosi. Hagati yabo hari imeza ifite ibara rya shokora iteretseho udusarane turimo ibiryo n'ikirahuri cy'amazi, hakurya hari abandi bantu nabo bari kurya.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru, ufite ikiyiko kiriho ibiryo, undi umuri imbere wambaye agapira k'umweru n'itaburiya inyuma, afite ikirahure cya ji mu ntoki arimo arayisuka, imbere yabo hari imeza iriho imbuto zitandukanye nka pome.

Umusaza wicaye mu kagare, wambaye umupira w'umuhondo n'ikoboyi, umwana uri iruhande rwe wambaye agapira k'icyatsi, bose bafite udukoresho twifashishwa mu gukina imikino itandukanye.

Umusaza wicaye warambuye amaboko ku meza, ari gufashwa n'umuganga w'umuzungu wambaye itaburiya y'ubururu, hirya hari undi muntu wambaye ishati y'umweru n'ikoboye, inyuma yabo hari idirishya ririho irido ry'umweru.

Umusaza n'umukecuru bicaye barimo baraseka bameze imvi, umwe yambaye agapira k'ubururu ndetse n'agakomo ku kaboko. Undi yambaye agapira k'umutuku, bakaba bicaye mu nzu isa umweru ifite n'amarido y'umweru imbere yabo hari imeza nini.

Umugabo w'umuzungu wambaye ikositimu y'umukara n'akamuranga mu ijosi n'ishati y'ubururu yegeranye n'umukobwa wambaye agakanzu karimo uturabyo tw'umutuku n'umweru nawe wambaye akamuranga mu ijosi inyuma yabo hari icyapa kiriho ibimenyetso bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umukara n'ubururu n'icyatsi, bahagaze hasi hari amakaro inyuma yabo hari igikuta giteye irangi ry'umweru.

Itsinda ry'abantu bamwe basutamye abandi bahagaze bashyize amaboko hejuru abandi bari kwifotora bakoresheje telefone zabo, imbere yabo hari intebe n'imeza ziteretseho amazi yo kunywa, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho ngo abayobozi b'abagore.

Itsinda ry'urubyiruko rifite ibyapa, bambaye imipira y'umweru, amapantaro y'amakoboyi, bahagaze mu nzu ngari inyuma yabo hari ibikuta byubakishije amatafari manini n'idirishya rifite ibara ry'icyatsi.

Abantu bagera kuri batandatu bateganye harimo abagabo batatu bambaye amakote, n'abagore babiri bambaye bitandukanye, umwe wa bambaye ikanzu y'umuhondo, undi wambaye agakanzu karimo uturabo, undi wambaye ishati y'umweru n'agapantaro k'umukara, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho ikirangantego kiranga repubulika y'u Rwanda na minisiteri y'ubuzima.

Umuntu wambaye ijire irimo amabara y'icyatsi n'umweru n'ishati y'umweru mo imbere, yambaye ingofero y'abisilamu n'agapfukamunwa, na marinete, ari gutera urushinge umuntu umwicaye imbere na we wambaye udupfukamunwa n'itabuririya y'ubururu. Hakurya yabo hari icyapa cyanditseho gutera inkingo za kovide.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu wafashe umubyeyi akaboko agiye kumutera urushinge ku rutugu. Uwo mubyeyi yambaye ishati y'umweru, amarinete ari ku ijosi. Inyuma ye hari umugabo wambaye ishati irimo amabara atandukanye. Hakuno hari imeza nini iteretseho icyuma cyifashishwa kwa muganga.

Abantu barindwi bahagaze ku murongo bambaye, ibibaranga mu gatuza n'imyenda ifite amabara atandukanye nk'umukara, icyatsi, ubururu ndetse n'umweru, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo arimo ibara ry'umutuku n'umweru.

Aagambo ari mu ibara ry'umukara, haruguru yaho hari ibiziga bibiri biteganye, ikiziga kimwe kirimo akanyoni kagurutse kandi harimo n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku, ikindi kiziga kirimo utuntu turi kurebana twakoze urundi ruziga kandi handitsemo n'amagambo ari mu ibara ry'umukara hagati y'ibyo biziga bibiri harimo ikimenyetso cyo guteranya.

Ikarita iri mu ibara ry'ubururu n'umweru, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, n'akarango kanditsemo imyaka icumi.

Abantu babiri bahagaze umugabo n'umugore, bafite ibyapa mu ntoki by'icyatsi n'ibindi by'ubururu byanditseho amagambo y'umukara n'ubururu, inyuma yabo hari urugo rwubakishije ibyuma n'urugi rw'umukara.

Abantu babiri bahagaze umwe yambaye ishati y'umukara, ipantaro Y'ikoboyI, isaha ku kaboko, n'undi w'umukobwa wambaye ishati y'umukara n'agakantu gafite utubara tw'umweru mo imbere, bose bafite icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikindi. Inyuma yabo hari amadarapo abiri, harimo n'iry'u Rwanda, imbere yabo hari intebe y'umukara.

Umuntu uhagaze imbere wambaye ikoti ry'umukara ufite indangururamajwi, ari kubwira abantu bicaye imbere ye mu ntebe z'umutuku. Imbere yabo bantu hari imeza ziriho ibitambaro by'umweru kandi izo meza ziteretseho mudasobwa. Icyumba barimo gifite ibara ry'umweru ndetse n'amatara ari kwaka.

Icyapa kiriho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi ari mu ibara ry'umuhondo, hepfo hari ibirango bitandukanye biranga ibigo bitandukanye. Nka kaminuza nkuru y'u Rwanda, ikirango kiranga ikigo gishinzwe ubuhinzi mu Rwanda, ikirango Repubulika y'u Rwanda n'ibindi.

Abagabo bane basutamye n'undi ubahagaze inyuma wegamiye igiti kinini, undi umwe araryamye ku gatanda, bigaragara ko arwaye, bakaba bari kumuha ubuvuzi bwihutirwa, hari ibyatsi byinshi.

Umuforomo wambaye itaburiya y'ubururu n'agapfukamunwa, afunze igipfunsi n'akaboko k'ibumoso, afite agakoresho gakoreshwa kumva uko umutima utera ku ijosi, ku ruhande rw'iburyo hari icyapa cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bakoranye mu biganza bafite impamyabushobozi imbere yabo, bambaye amakote y'ubururu, inyuma yabo hakaba hari ibirangantego bigaragaza Repubulika y'u Rwanda.

Abantu babiri, umugabo n'umukobwa bahagararanye, hejuru bafite utuntu mu ntoki dufite ibara ry'umukara, n'amagambo yanditseho higanjemo umuhondo n'ibara ry'umweru, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu n'ibimenyetso bitandukanye, inyuma yabo nanone hari intebe z'umweru n'imeza iruhande rwabo.

Itsinda ry'abantu bicaye bareba abandi bantu batatu bari imbere, umugabo wicaye hagati, wambaye ikoti ry'umukara n'abandi bagore bari ku mpande, inyuma yaho hari icyapa kiriho ibiganza, n'andi magambo yanditseho ari mu mabara y'ubururu n'umukara, hejuru yaho hari ikirango kiranga repubulika y'u Rwanda.

Ababyeyi bicaye ku gasima batonze umurongo, bambaye imyenda itandukanye irimo ibitenge, imipira n'ingofero, munsi y'aho bicaye hari icyapa gifite ubuso bw'umweru, amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'ikimenyetso kiri mu ibara ry'icyatsi.

Itsinda ry'abantu bicaye ku murongo, bafite amafoto mu ntoki kandi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, hasi hari tapi ifite amabara y'umutuku n'umuhondo, imbere yabo hari imeza ifite igitambaro cy'umweru, iriho ibintu bitandukanye, n'intebe zo kwicaraho, inyuma yabo hari tereviziyo nini n'icyapa kiganjemo ibara ry'umweru.

Abakobwa babiri n'abagabo babiri bambaye udupira tw'umweru, bafashe udukingirizo mu ntoki zabo, inyuma yabo hari amarido afite ibara ry'umuhondo, bari mu cyapa kigari cyiganjemo ibara ry'umweru, gifite amagambo yanditse harimo ibara ry'umutuku.

Korodoro ndende irimo ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru, harimo utubati turimo imiti ndetse n'imeza ziteretseho ibyuma byifashishwa kwa muganga, hejuru hari amatara yaka ibara ry'umweru.

Icyumba cyiganjemo utubati twubakishije ibyuma tubikwamo amaraso ahabwa abarwayi bayakeneye, hirya hari icyuma gifite ibyuma bya vendarateri byinjiza ndetse bikanasohora umuyaga muri icyo cyumba.

Urukuta rwubakishije amatafari ahiye, amapave, hagati harimo agati gashinze, imbere hari inzu yitegeye, ifite ibara ry'umweru, kuri iyo nzu hariho icyapa kinini cyanditseho amagambo hari mu ibara ry'umweru, agaragaza ibitaro by'akarere ka Nyarugenge.

Umugabo wambaye ishati y'umweruru n'ipantaro y'umukara, utunze akaboko ku gikuta kiriho kurwanya imibu kiri mu ibara ry'umutuku ahanini ndetse n'ibara ry'umweru hejuru. Iruhande rwe hari undi mugabo uri kumwitegereza wambaye umupira wumutuku ufite mudasobwa imbere ye, n'agacupa k'amazi ku meza.

Abaganga bambaye amataburiya y'ubururu bagera kuri bane, inyuma yaho hari umuganga wambaye iy'umweru n'agapfukamunwa, bari mu cyumba cy'ibagiro, ku gitanda kiri imbere yabo haryamyeho umurwayi, wambaye nawe itaburiya y'ubururu ugiye kubagwa, hejuru ye hari icyuma kiri kubafasha mu buvuzi.

Inzu ngari isa neza igereretse rimwe, iteye ibara ry'umweru ahagana hejuru, ifite amadirishya y'ibirahure, hejuru hari utubara tw'ubururu ndetse n'utundi tumanutse kugera hasi tw'umuhondo, imbere yayo hari ubusitani, burimo ibiti ndetse n'umuhanda wa kaburimbo, uri imbere yayo.

Icyumba kirekire kirimo intebe n'imeza bisa umukara, gifite amarangi y'umweru, amatara arasa umweru n'amadirishya manini y'ibirahure, afite ibara ry'umweru, hasi harasa nka kake, ku ruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso hari utu etajeri dukoze mu ibara ry'ibirahure.

Inzu ngari igeretse gatatu ifite ibirahuri by'ubururu, amabara y'umweru n'ay'umukara, imbere yayo hari ibiti by'imikindo biri mu busitani bwayo, igoteshejwe ibyuma bifite ibara ry'umukara.

Umuganga wunamye wambaye itabura y'umweru irimo uturongo twa move ku mifuka no ku maboko, yambaye kandi uturindantoki n'agakomo k'umukara ku kaboko. Ari kumva ku nda y'umubyeyi uko umwana ameze. Igitanda kiryamyeho umubyeyi, igikuta gisize irangi ry'umweru.

Inzu yiganjemo ibara ry'umweru, hasi hari ijambo ryanditseho ngo urwakiriro, hirya hari intebe zicaraho abantu bakiriwe, hejuru hari amatara amurikira aho ahantu, akoze mu buryo butangaje kandi hari parafo ikoze mu biti, hasi hashashe amakaro.

Abantu bahagaze ku murongo, inyuma yabo hari inzu ndende, ifite ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umukara, hejuru hari icyapa cyanditseho ibitaro bya Rwamagana.

Inzu ziteganye zimwe zubakishijwe amatafari ahiye, zifite amabati y'ubururu n'izindi zisize amabara y'umuhondo ku bikuta, ziteganye n'ubusitani burimo indabyo z'ubwoko butandukanye zikikijwe n'ishyamba.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi, biryamyeho abarwayi, bifite amashuka ari mu ibara ry'umweru, amadirishya ku ruhande rw'iburyo ndetse n'ibara ry'umweru risize ku bikuta.

Icyapa kinini gifite ubuso buri mu ibara ry'umutuku n'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ikigo nderabuzima cya Matyazo. Cyegeranye na porotaye y'icyuma ndetse n'inzu ngari yubakishije amatafari ahiye n'umuntu uri mu nzira.

Icyumba cyiganjemo ibara ry'umweru, hagati harimo igitanda kiriho amashuka y'umweru, mu ruhande rwacyo hari agatebe gafite umusego w'umukara, hakurya hari akabati babikamo ibintu, hejuru hari icyuma cy'imashini cyifashishwa mu kuvura abarwayi.

Korodoro ndende y'inzu yicayemo abantu bagiye batondekanya ku murongo, abandi bahagaze barimo barahita, umwe uri imbere yabo wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umutuku ndetse n'agapfukamunwa.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye imbere y'inzu, igeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye, abagore bambaye ibitenge, imodoka ifite ibara ry'umukara iparitse, amapave ndetse n'amabuye yubakishijwe fondasiyo.

Inzu ndende y'umweru igeretse kabiri, imbere yubakishije amatafari ahiye, ifite ibirahure bibonerana, hakuno yayo ku nzira hari abantu b'urujya n'uruza, igotesheje ibyuma bisize irangi ry'umutuku, ku mpande hari inzira ifite rigori.

Icyapa kiri hejuru cyanditseho ibitaro bya Kabgayi, gifatishijwe inkingi ebyiri, hagati harimo umuhanda w'igitaka ujya imbere ku nzu zubakishijwe amatafari ahiye, harimo n'amapoto y'umuriro w'amashanyarazi acana amatara ndetse n'ibiti.

Inzu ngari yubakishije amatafari ahiye, ifite akabaraza gasakaje amabati, hari imodoka eshatu ziparitse, imbere yaho hari ubusitani buteyemo imikindo n'ibiti binini by'inganzamarumbo ndetse n'indabyo, hagati harimo inzira irimo amapave.

Inzu ngari iteye amarangi y'umweru n'ay'umukara, ifite ibyuma imbere biriho idarapo ry'u Rwanda n'irya Kaminuza, iyo nzu ishakaje amabati y'umutuku, ifite icyapa imbere kiri mu ibara ry'ubururu, imbere yayo mu mbuga hari amapave.

Icyumba kigari kirimo ibara ry'umweru n'andi mabara nk'ubururu, umuhondo, umutuku n'andi, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo kandi intebe, ibitanda n'ibyuma byo kwa muganga.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu n'uturindantoki tw'umweru, afashe umwana akaboko ukivuka uri mu cyuma. Iruhande rwe hari ibyuma by'ikoranabuhanga bifasha mu buvuzi cyangwa mukwita ku bana bakivuka ndetse n'utwegatajeri turi mu rundi ruhande rwe.

Icyumba kirimo igitanda gifite ibara ry'ubururu hakuno ndetse n'ibara ry'umweru, aho uburiri buri harimo imashini zitandukanye zifasha gupima abarwayi, hejuru hari igishushanyo kiriho indabyo z'umutuku n'umweru, hakuno hari ekara cyangwa se televiziyo yifashishwa mu kureba ibipimo bitandukanye.

Koridoro ikikijwe n'amayetajeri akozwe mu byuma, harimo amaraso ahabwa abarwayi bayakeneye. Imbere yaho urugi rw'icyuma rufite selile, hejuru haraka itara rinini mu ibara ry'umweru.

Icyumba gifite iba ry'umweru, imashini yifashishwa mu gupima abarwayi, urugi rufite ibara ry'umweru, amatara hejuru ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Igikuta kirekire cyubakishije amatafari ahiye, iruhande rwacyo hari icyapa cyanditseho Kigali siti, cyegeranye n'ibiti binini by'inganzamarumbo kandi byegeranye n'utuntu twifashishwa mu kwerekana ahantu hatanyurwa.

Inzu ndende ifite amagorofa atatu, ibirahure by'umukara n'amabara y'umuhondo, imbere yayo hari abantu bahagaze bambaye amakoti, imodoka iparitse, icyapa kigaragaza iyo nzu iyo ariyo.

Inzu nini yubakishijeje amatafari isakaye, ifite ibaraza rifatishijwe ibyuma n'icyapa kinini kiri mu mabara umutuku n'ubururu rizengurutse. Abantu batandukanye urujya n'uruza harimo ababyeyi n'abagabo n'abana.

Icyumba kigali gisize ibara ry'umweru ndetse n'ikindi gikuta kiri iburyo, gisa nka pinki, harimo ibikoresho bitandukanye, nk'igitanda ndetse n'amahombo ajyana umwuka hanze anawinjiza n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Agatebe kegereye imeza iriho impapuro, icyuma gifasha mu kwitegereza ibintu bitoya. Icyumba gisize amarangi atandukanye nk'umweru, icyatsi n'umuhondo, hejuru hari parafo isa umweru, utunyamasyo ndetse n'utundi tunyabuzima two mu mazi.

Itsinda ry'abantu bahagaze bamwe iburyo abandi ibumoso, begamiye icyapa cyanditseho ibitaro bya Butaro, hasi hari jaride, inyuma yabo hari ibiti binini ndetse n'inzu.

Icyumba kigari kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, nk'igitanda gisa icyatsi, ibyuma biri hejuru byifashishwa mu kumurika igihe bari kubaga umurwayi, hirya hari utundi dukoresho dufasha mu kubika imiti.

Inzu ifite ibara ry'umweru n'amadirishya ifite ibirahuri by'umukara imbere yayo hari ikigega ndetse n'agati kari hagati mu busitani, hakuno hari akayira gasakaye inyuma yayo hari indi nzu bisa iburyo bwayo ikotesheje urugo rw'ibyuma.

Inzu ndende zubatse mu buryo bukurikiranye, zifite amabara y'umweru ndetse zikaba zifite n'ubusitani hagati yazo, hakaba harimo abantu batandukanye barimo baranyuranamo.

Abantu bicaye ku ntebe abandi bahagaze imbere y'amezi manini ariho igitambaro gisa kake bambaye udupira tw'ubururu, inzu nini yubakishije amatafari ahiye isize ibara ry'umweru hejuru handitseho amagambo inzu y'ababyeyi.

Icyumba kinini cyiganjemo ibara ry'umweru. Harimo utubati, ndetse n'imeza n'intebe n'andi marangi y'ubururu. Hirya hari urugi runini rwerekeza muri koridoro, hejuru hari parafo n'amatara yaka ibara ry'umweru.

Inzu ifite imiryango migari y'ibirahure yubakishije amatafari ahiye ahagana imbere, hejuru hari icyapa cyanditseho amagambo y'umukara ari mu ibara ry'umweru, ituye ku muhanda kandi ifite indabo ziyikikije ku mpande.

Inzu yubakishije amatafari ahiye iriho kizimyamwoto ku ruhande rwayo, ifite irange ry'umweru muri korodoro kandi ifite inzugi zisize ibara rya shokora, imbere yayo hari inzira ipavumye, ku ruhande hari ubusitani, imbere yayo hari indabyo.

Icyumba kigari kirimo ibitanda by'abarwayi na serumu ndetse n'imashini zireba uko umurwayi ahagaze n'ibindi bikoresho birimo utubati twifashishwa mu kubika imiti ndetse n'utudobo twifashishwa mu gushyiramo imyanda.

Icyuma cyifashishwa mu kubona utuntu duto cyane tutagaragara, televiziyo nini iri ahagana hejuru, intebe zifite ibara ry'ubururu ndetse n'imeza y'umweru.

Amadirishya manini ari ku gikuta cy'umuhondo, hejuru hari icyapa cyanditseho ivuriro ryita kuri kanseri ryo mu Rwanda, hasi hari jaride n'igiti giteye muri izo jaride.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umutuku, afashe ku cyuma cyerekana amashusho, imbere ye hari imashini nini yifashishwa kwa muganga, hirya hari abantu batandukanye bari kureba imikorere y'icyo cyuma.

Umugore wicaye wambaye itaburiya y'umweru, afite imisatsi y'umukara, yambaye agapfukamuwa k'umukara, imbere ye hari mudasobwa, ari kuyikoresha yifashisha kureba ibimenyetso ndetse n'ibisubizo by'abarwayi. Imbere ye hari imeza y'umweru ndetse n'aka etajeri k'umweru, igikuta kiri imbere ye kirasa umweru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite agacupa mu ntoki ndetse n'uturindantoki n'agapfukamunwa. Ari gukora ku mashini zifashishwa mu buvuzi mu bitaro. Havurwa abarwayi.

Inzu ndende ifite ibara ry'umweru, iri mu gihangari gishakaje amabati, iriho amadirishya afite irangi ry'umukara n'imiryango miremire, ibyuma bishakaje iyo hangari.

Umuryango munini w'ibirahure bitabona, uri ku nzu iteye irangi ry'umuhondo, imbere hari n'ahandi hateye irangi ry'umukara, hejuru hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'icyatsi, handitseho amagambo ari mu ibara y'icyatsi ndetse n'umweru.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa, intebe utubati n'imeza, gisize irangi rya oranje, icyatsi, umukara n'umutuku, gifite n'amadirishya y'ibirahure binini.

Icyumba Kigali giteye irangi ry'umweru cyiri kwakamo amatara y'ibara ry'umweru, umuntu uryamye ku gitanda woroshwe ishuka y'umweru. Imashini zitandukanye zipima uko umuntu ahagaze mu muzima, umuryango munini intebe y'umukara.

Ibitanda bine biryamye abarwayi, biyoroshya amashuka y'umweru n'ay'ubururu, hejuru yabo hari supanete zifite ibara ry'umweru, mu madirishya harimo amarido asa nka kake, ku bikuta hariho irangi ry'umuhondo, hasi hari sima.

Umugabo wicaye yemye, igitanda gifite ibara ry'icyatsi, icyuma kifashishwa mu gupima umurwayi, irido, idirishya, igikuta n'intebe.

Inzu ngari nini igoteshejwe ibyuma, ndetse na fondasiyo y'amabuye, hari amasikariye imbere, iyo nzu ikaba ifite icyapa hejuru cyanditseho ikigo nderabuzima cya Tabagwe. Hakaba hariho abantu batandukanye baje kwivuza.

Akayira gakijijwe ibyuma bisize irangi ry'icyatsi, kegeranye n'ubusitani bwiza burimo ibyatsi bitoshye hateyemo n'uduti tw'imbuto, hakurya hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye, harimo ibyicungo by'abana, hirya hari inzu zubakishijwe amatafari ahiye, afite igisenge gishakaje amabati y'icyatsi, harimo n'amatara.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo, ifite amadirishya y'ibirahure by'umukara n'irange ry'icyatsi, ifite parafo n'umureko w'icyatsi. Umuntu wambaye ikataburiya y'umweru n' agapfukamunwa, ari mu ibaraza.

Icyumba gisize ibara ry'umweru dede, kirimo ibyuma bitandukanye n'igitanda kiriho matera y'umweru, ibyuma birimo ni nka televiziyo ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kwandika muri mudasobwa.

Umugabo wambaye ishati itukura n'ipantaro ya kacye, wasetse, yambaye n'amarinete. Imbere ye hari umuforomo wambaye itaburiya y'ubururu, ufite mu ntoki agakoresho gapima uko umuvuduko w'amaraso umeze. Imbere ye ku bibero hari ikayi. Bicaye ku ntebe ifite imifariso y'umweru.

Umubyeyi uteruye umwana mu ngobyi, wambaye agashati k'umweru n'agashi mu ijosi, wegeranye n'umuforomo wambaye ikanzu y'ubururu n'agashati k'umweru mo imbere, wambaye n'amarinete, inyuma ye hakaba hari akabati gafite ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho nk'igitanda kiryamaho n'umuntu bagiye kubaga, amatara ari hejuru yacyo amurikira abaganga kugira ngo babone neza, idirishya n'utubati twifashisha mu kubika imiti.

Icyumba kigari cyiganjemo ibara ry'umweru, kirimo ibitanda bitandukanye by'abarwayi, harimo umuntu uri gukoropa, ufite umukoropesho, wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara. Hirya ye hitaruye hari undi wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba gisize irange ry'umweru n'irya oranje, kirimo ibitanda biri ku murongo n'udukoresho twifashishwa mu kugeza imiti ku barwayi bari mu bitaro, amadirishya, inzugi n'amarido.

Inzu ngari igeretse rimwe, ifite amabati y'umutuku, umureko w'ubururu, n'inkingi z'umukara, ifite ibyuma biyigose ku mabaraza biteye irangi ry'umukara, imbere yayo hari jaride n'imodoka ihaparitse, iteye irangi ry'ubururu, hakuno hari idarapo riranga Repubulika y'u Rrwanda, hirya gato hari moto.

Abagabo babiri bahagaze bambaye amataburiya n'udupfukamunwa, imbere yabo hari imashini yifashishwa kwa muganga, havurwa abarwayi, icyumba kirimo ibara ry'umweru.

Inzu ngari iteye irangi ry'umweru, ifite amagambo yanditse imbere yayo ari mu ibara ry'ubururu ryanditse ngo ikigo nderabuzima cya shagasha. Hejuru ishushanyije amabati y'ubururu, imbere yayo hicaye ababyeyi babiri bari kumwe n'abana babo. Imbere yayo mu mbuga hari amapave.

Intebe z'umukara nzindi zifite ibara ry'ubururu bwerurutse, imeza nini iteretseho mudasobwa, ifite amabara y'umweru n'ay'icyatsi kibisi, icyuma cyifashishwa mu kureba utuntu duto kwa muganga, ibishushanyo by'amaso biri mu mabara atandukanye na televiziyo iri ahagana hejuru muri iyo nzu.

Inzu ngari yitegeye ifite amabara y'umuhondo n'ay'umweru, imbere yayo hari ubusitani burimo itara ryaka, ku rundi ruhande hari igiti, ku rundi ruhande hari umusozi, hejuru hari ibicu n'ikirere cy'ubururu.

Icyumba giteye irangi ry'umweru kirimo agatebe k'umukara n'icyuma cyifashishwa mu buvuzi gikoreshwa umurwayi yicayeho gifite ibara ry'ubururu bwerurutse n'umweru, hirya hari akabati ndetse n'ingarani ijyamo imyanda.

Umuganga wunamye, wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, ari gufata umwana ku kiganza. Imbere ye hari umugore wicaye, wambaye umwenda ujya gusa nk'ubururu, ateruye akana kari mu myenda y'imyeru. Inyuma yabo hari ibikuta bisize irangi ry'umweru.

Inzu ifite amabara y'umuhondo n'icyapa kinini cyanditseho ubuzima bwiza ndetse kinagaragaza ko aho hantu hari inzu igurishirizwamo imiti. Mu imbere muri icyo cyumba hakaba harimo utu etajeri tugaragaza ko harimo imiti itandukanye.

Abagore 4 bahagararanye kumurongo bose bambaye amashati y'ubururu n'amapantaro y'ubururu n'ydupfukamunwa bambaye n'utubaranga mu ijosi. Inyuma yabo hari inzu nini kuruhande rw'iburyo ifite ibara ry'umweru iruhande rw'ibumoso iteye irange ry'umuhondo. Hejuru yanditse ngo inzu yababyeyi hasi hari amapave kuruhande rwiburyo hari ubusitani.

Icyumba gifite korodoro ndende gisize irange ry'umweru kijyiye kigabanyijwemo ibyumba n'ibirahure binini bibonerana, hejuru hari amatereviziyo agaragaza uko abarwayi bameze, hasi hari ibitanda bifite matera z'ubururu biri ku maguru y'ibyuma asa umweru.

Itsinda ry'abantu basutamye abandi bahagaze inyuma yabo, bamwe bambaye amashati, abandi bambaye amakoti, abandi bambaye imyitero, inyuma yaho hakaba hari inzu yanditseho "inzu y'ababyeyi", yubakishije amatafari ahiye, ifitemo amarangi y'umuhondo, ndetse n'amabati y'ubururu.

Umubyeyi uryamye kuri matela y'ubururu iri ku gitanda cy'umweru wambaye igitenge, iruhande rwe hari abaganga babiri bahagaze bambaye amataburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru, umwe arunamye arimo aramufasha kwambara imyenda hirya ye hari igikuta gisize irangi ry'umweru hejuru ye hari inzitiramibu imanitse.

Icyumba gisa umweru, gifite amatara hejuru, kirimo icyapa gishushanyijeho umugore wambaye amarineti. Hejuru y'icyo cyapa hari akabati karimo amadarubindi atandukanye bigaragara ko ari mu nzu igurisha amarinette yo kwambara.

Inzu nini y'umweru igereretse kabiri ifite amabati y'umutuku, imbere yayo hari abantu bambaye imyenda y'ubururu ndetse na jaride hasi, ifite urugo rukoresheje ibyuma biri mu ibara ry'umutuku, hanze haparitse imodoka.

Inzu yitegeye ikikijwe n'ubusitani burimo ibiti bitandukanye, ikaba ikikijwe nanone n'inzira zirimo amapave ndetse hakaba muri izo nzira harimo n'abantu bari kunyuranyuranamo.

Inzu iteye irangi ry'umweru, irimo ibipirizo by'amabara atandukanye, ku gikuta hashushanyije ijisho rinini, harimo intebe zo kwicaraho n'akabati karimo ibikoresho byo kwa muganga.

Icyumba gifite ibara ry'umweru, cyifashishwa muri siporo ngororamubiri, kirimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda ndetse n'ibyuma byifashishwa mu kumenya uko umubiri w'umuntu uhagaze. Hari n'ikindi cyuma cyifashishwa mu gukora siporo zo kwiruka, hirya hari idirishya rinini rifite ibirahure by'umukara.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite inkingi zisize irange ry'umweru, ishakaje amabati y'icyatsi. Imbere yayo hari ubusitani burimo indabyo zisa nk'umuhondo, kandi hari na robine y'amazi, hirya hari porotayi y'ubururu.

Inzu ngari ifite ibara ry'umweru ifite n'akabaraza hahagaze umuntu wambaye agapira k'umuhondo n'ijipo y'umutuku, wegamiye inkingi ifite ibara ry'umukara, iyo nzu ikaba ifite inzugi n'amadirishya manini agizwe n'ibirahure.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gupima uko umutima utera, ari kumwe n'umugore wambaye ikanzu y'igitenge irimo amaba y'ubururu n'umuhondo, ari kuvuga atunze ikiganza hirya ye. Inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari y'ibyondo yasenyutse ndetse n'insina ziri inyuma y'iyo nzu.

Inzu igeretse rimwe, iteye irange ry'umweru, ishakaje amabati y'ubururu, ifite amadirishya y'ibyuma ndetse urubaraza rwayo rukorotije ibyuma bisize irange, imbere hari irange ry'umutuku n'icyapa cyanditsemo ikigo nderabuzima cya Kinyinya. Imbere yayo hari jaride.

Icyumba cyo kwa muganga giteye irangi ry'umweru, kirimo ibitanda by'abarwayi n'utubati tujyamo imiti, ndetse n'ibyuma byifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'abarwayi bahagaze, hasi hari amakaro.

Umuryango munini usa umweru ufite ibirahure bibiri, binini. Hejuru hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijemo amagambo arimo ibara ry'umweru, avuga ngo icyumba cy'ibikorwa. Ku mpande hari ibikuta bibiri nabyo bisize amabara y'umweru.

Abantu baryamye ku bitanda bisa ubururu mu ihema. Umwe yambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umuhondo n'amasogisi y'umweru, hirya hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'icyatsi. Hirya nanone hari abandi baganga bari gufasha abandi barwayi.

Izo ndende iteye irangi rya pink n'iry'umukara, ifite amabati y'umutuku n'umureko w'umweru, imbere yayo hari icyapa ndetse n'intebe z'umutuku ziteye imbere y'umuryango munini. Mu mbuga hari kaburimbo, hirya hari jaride.

Umugore wambaye imyenda y'ubururu ufite imisatsi y'umukara, uri gufata kumugozi ushyira amaraso umurwayi uryamye iruhande rwe ku buriri busa nk'umweru, hirya hari imashini ziri gufasha kugaburira umurwayi no kureba uko ahagaze.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa afite agakoresho kifashishwa mu gupima uko umutima utera mu ijosi, ari kwambika agakoresho gakoreshwa mu gupima umuvuduko w'amaraso umwana wicaye imbere ye, inyuma ye hari akabati karimo imiti.

Intebe z'umukara zifite amaguru y'utwuma imbere yazo hari imeza zikoze nk'utubati, ziriho amabara y'umweru, hejuru hari utubati turiho amarinete yo kwambara, ahagana hejuru hari amateleviziyo arimo abantu bambaye amadarubindi.

Kunyuranamo kwabantu bambaye imyenda y'umweru hejuru ndetse bamwe bambaye amapantaro y'umukara hasi, undi wambaye ikobo y'ubururu, imbere yabo hari inzu ngari nini, ifite agakinga imbere k'ibirahure, hejuru ikaba yanditseho kipiha Rwanda.

Inzu ndende igereretse kabiri ifite amabara nk'umweru n'umukara, ituye ku muhanda, ku mbuga yayo hari amapave, amabaraza yayo hakorotishijwe ibyuma, ifite urugi rw'umukara kandi yegereye ubusitani, ku muhanda iruhande rwayo hari amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibiti.

Inzu mberabyombi isize irangi ry'umuhondo, ahandi hasa shokora, irimo intebe nyinshi zisa nk'ivu, imbere yazo hari imeza ziriho mikoro, ku ruhande rw'imbere hari imeza isa umweru ndetse n'uruzitiro ruri ahagana ku ruhande herekera hejuru kuri siteji.

Umuntu uri mu muhanda wa kaburimbo utwaye igare, uhetse undi ufite indobo, imbere hari icyapa cyanditseho ikigo nderabuzima cya Gisenyi. Hirya hari inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati ajya gusa umutuku, mu mbuga yaho harimo utubuye.

Icyumba kiganjemo ibara ry'umweru, kirimo utubati ndetse n'ubukarabiro n'utu etajeri turimo imiti itandukanye, gifite ibirahure by'umukara gifite amatara hejuru y'umweru, gifite puberi imbere.

Inzu ngari isize irangi ry'umweru. Hagati handitsemo ngo Kaminuza nkuru y'u Rwanda. Imbere yayo hari inkuta zubakishije amatafari ahiye n'ibiti biteye mu busitani. Hakuno hari itara rishinze mu busitani rimurikira abantu. Ndetse mu nzira hari abantu bambaye imipira y'imituku n'ipantaro y'umweru.

Icyuma gifite ibara ry'umuhondo, imbere hari amabuto ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'akantu k'akarahuri gasa umukara. Iruhande rwayo hari umugozi ufite ibara ry'umukara w'amashanyarazi.

Umugabo uhagaze araramye yambaye isengeri y'icyatsi, afite agacupa k'amazi mu ntoki ari ku yanywa, umusatsi w'umukara, akaboko, agatuza, umugongo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'akandi k'imbere y'agasengeri k'umukara, afatishije ukuboko kw'ibumoso ishashi irimo amatembabuzi y'ubururu, ku nkokora ye y'akaboko k'iburyo. Yicaye mu mifariso y'umweru.

Umugabo wambaye insengeri y'umweru, wabusanyije amaboko ye, akaboko kamwe karambuye akandi karahinnye gafashe akandi, kandi afunze ibipfunsi afite ubwanwa bw'umukara, ibigaragara ari muri siporo ngororamubiri.

Umuntu wubitse inda ari gukora siporo wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri kari mu ibara ry'umweru na oranje, ufite imisatsi y'umukara araramye hasi hari agatapi gasa umutuku hirya ye hari amavaze arimo indabo zitandukanye.

Imeza isanzwe iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, harimo icyuma kifashishwa gupima umutima ndetse n'uko amaraso agenda mu mubiri, ku ruhande hakaba hari igitambaro kirimo amabara atandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umugabo uryamye ku gitanda gifite matera y'ubururu, yambaye ikabutura y'umukara, umuganga uhagaze wambaye itaburiya y'umweru, yamufashe mu ivi no ku itako arimo aramumasa. Hirya hari igikuta cyumweru.

Abantu bambaye udusenge tw'ubururu ipantaro y'umukara barimo barigorora uwa mbere yashyize amaboko imbere kandi arasutamye, uwa kabiri ara ahagaze yashyize amaboko kuhande, uwa gatatu ahagaze yashyize amaboko imbere uwa kane ahagaze yemye afatiye akaguru ke inyuma hejuru hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndi ari munsi arimu ibara ry'umukara.

Umuntu usutamye wakoze hasi, isaha ku kaboko, ikabutura y'umweru, urukweto rusa umweru n'umutuku, yakoze ku nkweto ye, inyuma ye amadirishya y'umweru.

Icyumba kigari cy'ibagiro kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, birimo igitanda kiryamwaho n'umuntu uri kubagwa ndetse n'amatara ari hejuru manini, yifashishwa mu gutanga urumuri mu gihe umurwayi arimo arabagwa, utubati ndetse n'ibindi byuma bitandukanye biri muri icyo cyumba.

Umuntu wicaye ku ntebe zifite imisego y'umweru, wambaye ipantaro y'ubururu, wafatishije ibiganza bye ishashi irimo amazi y'ubururu, ku kaguru ahagana ku kabombambari, ndetse afite n'inzara zera.

Umuntu wicaye hejuru ku kabati, uriho igipfuko ku kaguru, wambaye ikabutura ya kake, agapira k'umweru gafite n'amabara y'umutuku, undi muntu uri imbere wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, abandi bari hirya bafite imbago, na bo bicaye baje kwipfukisha.

Umuntu uryamye ugaramye wifashe ku nda yambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, hari undi wambaye itaburiya y'ubururu n'ikimuranga mu ijosi umufashe akaguru urimo uramugorora, ku gikuta hari icyapa kiriho ibice bigize umubiri w'umuntu, bari mu cyumba gifite ibara ry'umweru.

Agakoresho kifashishwa kwa muganga mu gupima uko umutima utera, gafite ibice bitatu igice cyo hasi kigari gikoreshwa mu kumva uko umutima utera bagishyira ku gatuza, umugozi muremure, hejuru hari utwuma dushyirwa mu matwi, hagati gifite ibara ry'ubururu.

Umuntu upfukamye ku gatapi, wunamye yashyize amaboko imbere yambaye imyenda y'umukara, iruhande rwe hari intebe nini y'imisego n'irido rirerire ry'umweru, hasi hari amakaro.

Ikiganza gifite inzara ziteye verine ry'ibara rya pinki, gifatishije ishashi irimo amazi y'ubururu ku kaboko k'umuntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku, isaha n'ikabutura y'umukara, afite umupira wa rugubi mu ntoki, arimo arakora siporo; undi uri hirya ye ni umutoza wambaye agapira k'umukara. Bari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo siporo ngororamubiri.

Umuntu w'umugabo wambaye agapira k'umukara n'amarinete uraramye, ufite agacupa k'amazi mu ntoki yimennye mu maso, akaba ari no kuyanywa kubera ko yari ari muri siporo.

Imeza iteretseho imbuto zo mu moko atandukanye, nk'icunga, indimu, inanasi, umuneke, ipapayi ndetse n'udukoresho twifashishwa muri siporo ngororamubiri n'ibinini n'imidari itandukanye.

Ikirango kiri mu ruziga rw'umukara, hasi hari ipfundo n'amagambo agaragaza ko ari imirwano yemewe, ikorerwa mu Rwanda. Hagati harimo abantu babiri bari gukirana: umwe wambaye imyenda y'umweru n'undi wambaye imyenda y'ubururu y'urugamba.

Imodoka itwara abarwayi iri mu muhanda, iri kugenda, ifite ipine inyuma ndetse amatara yayo y'ibinnyoteri ari kwaka, imbere yayo hari igikuta cy'amabuye, iruhande rwayo ni ho umuhanda urangirira.

Ikiganza cyambaye ga y'umukara, gifashe ijage y'ikirahure, ari gusuka amazi mu kirahure cy'igikombe giteretse ku meza yera, ayo mazi arimo aramanuka agendera umujyo umwe, ajya mu kirahure.

Abana bahagaze bari gufana, umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye isengeri y'umukara, undi ari mu kibuga arimo arakina yateye agapira, hirya hari abandi bana bafite umupira ukinishwa amaboko wa Voleboro, bahagaze iruhande rw'ikibuga.

Agatanda bajyanaho abarwayi bavunitse karasa umuhondo hagati harimo utuziga tw'umweruru hariho utuntu tw'utugozi tw'umukara tugafata, dufata umurwayi igihe arwaye hejuru hari ahajya umutwe ahagana hasi niho hajya amaguru.

Ibikapu bibiri by'umukara biri hasi, umuntu uhagaze uri kwigorora wambaye agapira k'umweru, undi wicaye ku ntebe ya kake ari kunywa amazi iruhande rwe hari umupira, inyuma yabo hari ibyatsi.

Umuntu wicaye wabusanyije amaguru wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umukara uri kwigorora, imbere ye hari icupa ry'amazi inyuma ye har'igitanda gisashe neza, inzu arimo isize irangi ry'umweru, akaba afite imisatsi miremire.

Umuntu wicaye wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ubururu, afite inzara ziteye verine ya oranje, afatishije ikiganza cye ku ishashi irimo amazi y'ubururu ahagana mu nkokora y'akaboko ke, yicaye yemye.

Uturindantoki dufite ibara ry'umweru, uducupa duhagaze twegeranye dufite amabara y'umweru n'amabara y'icyatsi, amashashi ari hasi arimo ibinini, korogate ndetse n'uburoso bw'amenyo n'utundi dukoresho twifashishwa mu kuvura abarwayi kwa muganga.

Umuganga wicaye wambaye itaburiya y'ubururu n'agakoresho gakoreshwa mu gupima uko umutima utera, ari kwambara agapfukamunwa ndetse yambaye nt'uturindantoki, afite umusatsi w'umukara. Imbere ye hari imeza nini iriho, impapuro, amakaye n'ikaramu na mudasobwa.

Umuntu uri muri siporo ngororamubiri wambaye agakabutura k'ubururu n'agasengeri k'icyatsi, afite imisatsi y'umukara arunamye arimo arasunika icyuma kiremereye gifite ibyuma hejuru, hirya ye hari senyenge.

Uruvunge rw'ibintu birimo udushashi, puridanse, uducupa ndetse n'amashashi afite ibara ry'ubururu ndetse n'ibipfuko byifashishwa mu gupfuka abarwayi bakomeretse cyangwa se abavunitse ingingo z'umubiri.

Ikiganza cyafatishije ishashi irimo amazi y'ubururu ku ivu, ikabutura y'umukara, amaguru, inzara, itako ndetse n'ubwoya bw'amaguru.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umweru n'ikabutura ya kake, afashe akaguru k'umuntu wicaye ku musego w'ubururu, ari kumuzirikaho bandana, iruhande rwe hari umukasi ari gukoresha akata.

Umuntu wicaye wambaye godiyo, ufite icyuma bamushyize ku kaguru, yambaye jezi yanditseho makumyabiri na rimwe n'agapira k'akeru, hirya ye hari abantu benshi batandukanye, bambaye amajezi.

Umugabo ugaramye wambaye ikabutura y'umweru irimo utubara tw'umutuku, afite telefone mu ntoki, yambaye n'agapira k'umukara, hari undi umuri hejuru usa nk'aho ari kumugorora, wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umuhondo, inyuma yabo hari imeza iteretseho udukoresho dutandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu n'isaha ku kaboko y'umukara, afite agacupa k'amazi mu ntoki ari kuyanywa araramye, afite ubwanwa bw'umukara, izuru rinini kandi ari kureba hejuru.

Akagare k'ababana n'ubumuga, k'abatabasha kugenda, gafite amabara atandukanye, nk'umukara, ubururu, gafite amapine abiri manini y'inyuma ndetse n'andi mato y'imbere, kagira n'aho umuntu ashyira ibirenge.

Amaguru y'umuntu ahagaze agaragaza ibibero ndetse n'amaguru yo hasi akagaragaza mu mavi ndetse n'agakabutura, uwo muntu yari yambaye gafite ibara ry'umukara ndetse n'akarongo k'ubururu ku ruhande.

Agakarito kanini gafite ibara ry'icyatsi, karimo udukoresho dutandukanye, harimo umukasi, amavuta yo kwisiga ndetse n'imiti yo kwiboroshesha yoza amenyo hamwe n'utundi tupapuro duhagaze.

Umuntu wicaye warambije akaguru wambaye ipantaro n'agasengengeri by'umukara, washyize amaboko ku kaguru ke kambaye inkweto z'umutuku n'umweru, imbere ye hari agacupa k'ubururu karimo amazi yo kunywa, ku ruhande hari inzu y'ibikuta bisa umukara.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku, afite agacupa k'amazi arimo arayanywa, yambaye ekuteri z'umweru kandi afite akuma ku kaboko kamufasha aho gushyira terefone, afite imisatsi y'umukara kandi arararamye.

Umugore upfukamye wambaye ipantaro y'umukara ufashe akana k'akirabura ku maguru. Inyuma yako hari umugore upfukamye na we wemye yambaye ikanzu n'agapira k'umweru mo imbere. Hasi hari tapi, inyuma hari ballon. Ku bikuta hasize umweru, ku ruhande rwo hirya ni igikuta kiriho ibitambaro by'amabara atandukanye.

Umuganga wicaye ku ntebe y'umukara, wambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa, imbere ye hari umwana wasamye wambaye agapira k'ubururu, inyuma yabo hari abantu batatu bahari bose bambaye udupfukamunwa, imbere y'umuganga hari imeza nini iriho ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara, agasengeri k'umweru, ufite imisatsi igera mu mugongo, yazamuye amaboko ayahuriza hejuru, ahagaze imbere y'inyanja, ikindi abumbye amaguru.

Ibiganza bibiri bifashe umwungu uriho: puwavuro, pome, inyanya, voka n'ubundi bwoko butandukanye bw'imbuto; ku ruhande rwo hino hari inkweto, hirya hari agatapi, hirya nanone hari utwuma dukoreshwa muri siporo ngororamubiri.

Umugabo wicaye, wambaye umupi w'umweru n'ipantaro y'ubururu, wafatishije ikiganza ishashi irimo amazi y'ubururu ku kaboko ahagana mu nkokora wicaye ku buriri, inyuma ye hakaba hari igikuta gisa umweru.

Umuntu uryamye wambaye agapira k'umweru wahinnye ivi, undi uhagaze, isarueti y'ubururu, agakoresho kifashishwa mu kumva umutima utera, igitanda ndetse n'kirahure.

Umukobwa uri kwigorora, wambaye agakabutura n'agasengero k'umweru wicaye ku gatapi, akaguru kamwe kari imbere ye karahinnye, akandi yakarambuye. Amaboko ye afashe kuri ka kaboko karambuye, inyuma ye hari intebe ndetse n'ivaze y'indabyo.

Umuntu wambaye ishati y'umweru uryamye hasi ku kiringiti n'undi umupfukama inyuma wambaye akajire k'umutuku n'ishati y'umweru, inyuma yabo hari abandi bantu benshi bambaye udushati tw'umweru turiho umusaraba. Iruhande rw'iburyo hari imeza hakuno hari indi imeza iriho igiitambaro cy'ubururu.

Ikirango kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara avuga ngo croix rouge Rwanda (Rwanda red cross) gifite umusaraba hagati. Hepfo yacyo hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara avuga ngo first aid training facilitator.

Umuntu uryamye ku buriri bw'ubururu bahambiriye, iruhande rwe hari abandi bantu basutamye, bambaye ishati y'ubururu, agapira k'umweru, agapira k'umukara, hirya yaho hari abandi bantu bahagaze, ku ruhande rw'inyuma hari imeza iriho igitambaro cy'umweru, intebe zo kwicaraho.

Umuntu uryamye hasi wambaye agapira k'ubururu n'agakabutura k'umukara, amasogisi y'umukara, inkweto z'umukara, iruhande rwe hari umupira w'amaguru ufite amabara y'umweru n'umukara, undi muntu amufashe mu ivi kandi na we yambaye agapira k'ubururu n'agakabutura k'umukara n'inkweto zo gukinana z'umutuku. Bari mu kibuga cy'umukino w'amaguru.

Umugabo wicaye mu ntebe y'imifariso ifite ibara ry'umweru, na we yambaye agapira k'umweru n'ikoboyi y'ubururu, ikiganza cy'ibumoso agifatishije ishashi iri ku nkokora ye ku kaboko k'iburyo.

Ibinini bifite amabara atandukanye, bahurije hamwe, byakoze forume nk'iy'umuntu, byegeranye n'urushinge, ndetse n'akandi gakoresho ko kwa muganga, hejuru yabyo hari umuti w'amenyo, n'andi magambo yanditse mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Umuntu wicaye wambaye agapira k'umweru, ishanete mu ijosi n'impeta ku rutoki, wafatishije ikiganza cye ishashi irimo amazi y'umukara ku nkokora ye, akaboko k'iburyo yakarambuye, kari imbere ye, yegamiye igikuta.

Umuntu wicaye arambije amaguru, wunamye ashyize amaboko hejuru y'ibirenge bye, afite umusatsi w'umukara, yambaye agapataro ndetse n'agasengeri bakoresha mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo uraramye wambaye agapira k'umweru n'agatambaro ku rutugu ko gasa umuhondo, afite agacupa k'ubururu ari kunywa amazi, afite ubwanwa bw'umukara, umusatsi w'umukara iruhande rwe hari ibiti.

Umugabo washinze akaguru kamwe kandi yagapfukamishije hasi, yambaye imyenda y'umukara, ahagaze ku itapi y'umukara, hirya hari igikuta giteye irange ry'umweru ndetse n'akandi gace kubakijije amatafari ahiye. Arimo arakora siporo ngororamubiri.

Agatanda gashyirwaho umurwayi bamujyanye kwa muganga, gafite amabara y'umuhondo n'imigozi ifata umurwayi isa umukara ndetse n'utwuma ku ruhande, hirya yaho hari abagabo babiri bagateruye kandi hari umurwayi uryamyeho wambaye imyenda y'umuhondo, mu gihe abamuteruye bambaye isa umutuku.

Abantu babiri bari kwirukanka bafite amazi yo kunywa, uri hakuno n'umukobwa yambaye agapira n'agakabutura k'umukara, uri ku ruhande rwo hirya n'umugabo yambaye n'agakabutura k'umukara karimo ibara ry'icyatsi, hakurya yabo hari imisozi ibiri ndetse n'ibyatsi biri ku muhanda aho bari kwiruka.

Abaganga batanu, batatu baricaye, abandi babiri barahagaze. Bose bambaye amataburiya y'ubururu n'udupfukamunwa tw'ubururu. Bari kureba hagati yabo. Hakuno hari imeza nini iteretseho amasorori n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi, ikaba iriho igitambaro cy'ubururu. Hino yabo na none hari icyuma kiriho tereviziyo yifashishwa mu kureba uko ubuzima bw'abarwayi buhagaze.

Umuntu uri kunywera amazi mu icupa ry'umweru rifite agafuniko k'ubururu, afite isume ku rutugu isa umweru yambaye agapira karimo amabara y'icyatsi n'amabara y'ubururu, akaba ahagaze yemye.

Ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye birimo uko bakoresha bumva uko umutima utera, icyuma kinini kigaragaza uko umutima uri gutera ndetse n'ikindi cyuma kigaragaza imibare y'aho umutima uri guterera ndetse n'intebe yicazwaho abarwayi mu gihe bari.

Icyumba kigari gisize amabara y'umweru, harimo icyuma kinini kiryamyeho umuntu wambaye amasogisi, woroshe igishura cy'umweru bisa nkaho bagiye kumucisha mu cyuma.

Umugabo uhagaze wazamuye akaguru kamwe yagashyize ku meza yambaye imyenda y'umukara, aho akandagiye ni ku itapu ifite ibyatsi bitoshye, hirya ye hari idirishya rinini rifite ibirahure by'umweru binini bibonerana, imbere ye hari umugozi urambuye, inyuma hari igikuta giteye irange ry'umweru.

Ikirango kiri mu ruziga, kigaragaza impande enye, uruhande rumwe rufite ibara ry'ubururu, rurimo umuntu uri kwiruka, urundi ruhande rufite ibara ry'umutuku rugaragaza ikimenyetso cy'umusaraba, urundi ruhande rufite ibara ry'icyatsi kirimo umuntu uri gukora siporo, urundi ruhande rufite ibara risa kake rigaragaza umuntu wifashe ibiganza.

Urubuto rw'ipapayi rumwe n'igisate rurimo imbuto imbere z'umukara, mu ruhande rw'imbere rirasa oranje, irindi riri inyuma ni ryose riri mu ibara ry'icyatsi rifite umukondo mutoya.

Uducupa tubiri twegeranye, turyamye hasi dushushanyijeho ikimera cy Igakarubamba. Ku ruhande rumwe hariho ibara ry'umweru, ku rundi ruhande hariho ibara ry'icyatsi. Hasi yatwo hari icyo giti cy' Igikakarubamba kiryamye ku meza, kandi ku ruhande hariho udushami. Ku rundi ruhande hari cupa k'umweru kariho uturabyo tw'umweru n'urundi rurabo rw'ikakarubamba.

Imboga rwatsi zirimo dodo, amashu, imiteja, isombe n'ibindi, akabati karimo imiti itandukanye ya kinyarwanda, intebe y'umweru ya purasitike yicarwaho, umuhanda ahantu hacururizwa inkweto.

Uducupa tubiri duhagaze duteganye dufite impuzankano y'ibara ry'umuhondo. Amagambo yanditseho ari mu ibara rya shokora n'imipfundikizo y'umukara. Hasi hashushanyijeho ururabo rw'igiti cy'igikakarubamba. Ku ruhande rw'iburyo hari ikirahure cy'amazi. Ku rundi ruhande rw'ibumoso hari uduce tw'urwo rurabo.

Igitunguru n'igice cy'indimu n'icupa ririmo amavuta ripfundikiye, hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu Baho neza tv.

Ibinini icumi bipfunyitse bitetse hasi biri mu ibara rya kake ryijimye, imbere yabyo hari agakarito kari mu mpande enye gafite ibara ry'umuhondo ubuso, hashushanyijeho urubuto rw'igikakarubamba kandi hariho n'agasorori karimo umuti, hirya hariho n'akanyoni kagurutse handitseho n'amagambo ari mu ibara.

Ibitoki bitatu birambuye byegeranye n'ibindi bibiri bicimbuye byegeranye kandi ku yindi shusho n'utusogwe tw'ubunyobwa, haruguru hari igiti gifite amababi afite icyatsi cyijimye, kurundi ruhande ahanditse inyuguti ya a hari ikibabi gifite ibara ry'icyatsi cyerurutse.

Umuntu wambaye ishati y'umweru n'itaburiya y'umutuku irimo amagambo y'umweru, ari mu bihuru, iruhande rwe hari ibyatsi bitandukanye, imbere ye hari igiti gifite amashami manini, ubona ko arimo arasarura icyo giti.

Utubido dukurikiranye dufite amabara atandukanye, kamwe gasa umuhondo akandi gasa umweru wijimye, akandi gasa umweru werurutse, iruhande rwabyo hari icyatsi cyitwa igikakarubamba cyifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Icyatsi cy'umuravumba kiri kumwe n'ibindi byatsi bitandukanye, harimo n'ibifite amabara y'umuhondo n'ibifite amabara y'umutuku byose bikaba bireba ahagana hejuru.

Imbuto z'amoko atandukanye: nk'ironje, indimu, itunda, ipapayi, umuneke hamwe n'ibinyomoro n'ibibabi byazo biri ku meza, ironji rimwe rinini rikase mo kabiri.

Ikarito ihagaze yampande enye, isize amabara atandukanye nk'icyatsi, umutuku n'umweru, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, umuhondo bwijimye ndetse n'andi ari mu ibara ry'umukara.

Agacupa karekare gashushanyijeho ikimera k'igikakarubamba, gafite ibara ry'umweru, hejuru hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umutuku, iruhande rwacyo hari agacupa gatoya gasize ibara ry'umweru, byose biteretse ku meza, hakuno ku rundi ruhande hari akanyoni kari kuguruka n'amagambo ari mu ibara ry'umweru ari mu buso bw'ibara ry'umukara, n'andi ari mu ibara ry'umweru ari mu buso bw'ibara ry'umutuku.

Uducupa tubiri duteganye, kamwe gafite ibara ry'umuhondo wijimye n'umupfunyikizo wa shokora n'igikabamba gishushanyijeho, akandi gafitemo umweru n'umuhondo werurutse n'umupfundikizo wa oranje, imbere yatwo hari ibisate by'imbuto byakataguwe ndetse n'igice cy'igikakarubamba.

Impande enye zirimo uducupa dutandukanye, iruhande rwa mbere rurimo akabido gasa ubururu gafite icyapa cy'umuhondo hamwe n'utundi ducupa dusa umweru. Hejuru hari agacupa karekare gahagaze gafite igipapuro cy'ibara ry'umuhondo, hakuno hari akaryamye hasi gashushanyijeho igiti k'igikakarubamba, hakuno hari utundi dutatu duteganye n'utwo dushushanyijeho igikakarubamba.

Mu ducupa duteretse ku murongo harimo irisa icyatsi rifite umumfundikizo w'umweru harimo irisa umweru rifite umupfundikizo w'icyatsi n'irindi ryererana, harimo imiti itandukanye ifite ibara ry'icyatsi n'umweru iteretse hasi, iruhande rwaho hari agakarito kariho amabara atandukanye.

Icupa rirerire rihagaze, rifite ubuso bw'ibara ry'umweru, riri mu magambo ari mu ibara ry'icyatsi n'andi ari mu ibara ry'umukara, hejuru hari akabara k'icyatsi kari ku mupfundikizo w'iryo cupa kandi riri ahantu hasa umukara.

Umugabo uhagaze wambaye agapira k'umweru, karimo uturongo tw'umukara ahagana ku maboko, urimo urasarura ikawa, ibiti bitandukanye birimo n'inturusu.

Imbuto za tangawize zigera kuri eshatu nzima zegeranye, urundi rumwe ruryamye hasi rucagaguyemo ibice bitandatu, imbere hasa umweru inyuma hajya gusa kake.

Udukarito dufite amabara atandukanye turimo ibinyobwa, hirya hari urubuto rw'inanasi, hakuno hari urubuto rw'imineke, ku ruhande rw'iburyo hari ururabo rw'umuhondo.

Agacupa gahagaze, gafite ibara ry'umweru, hashushanyijeho igisiga n'amagambo yanditseho, ari mu ibara ry'ubururu, n'andi ari mu ibara ry'umukara, hagati harimo akarangantego, iruhande rwaryo hari ibisate bikataguyemo inshuro eshatu by'ikimera cyitwa igikakarubamba.

Imbuto z'ibiti by'imiravumba bikusanyirije hamwe mu ihema, hariho icyapa kigaragaza ubwoko bw'ibiti. Hirya hari umugabo wambaye umupiwa w'umukara urimo urabiterura, hirya inyuma ye cyane hari abandi bantu bateraniye muri iryo hema, na bo bari guterura ibyo biti by'imbuto.

Akabati karimo uducupa dutandukanye twa parasitike, dufite imipfundikizo y'umuhondo, n'udupapuro turi ku mpande mu mbavu z'ayo macupa, turiho amabara y'umuhondo n'umweru, inyuma hari amacupa y'ubururu apfundikije imipfundikizo ifite amabara atandukanye, no hasi hari andi macupa ya parasitike.

Uruhurirane rw'ibiyiko biriho imiti itandukanye n'ibinini, iruhande rwabyo hari ikirahure giteretsemo indabyo ndetse n'akantu kifashishwa mu gusekura cyangwa mu gusya imiti, hirya hari amacupa afite ibara ry'umukara, afite utuntu tw'udupfundikizo dufite amabara atandukanye byose biterutse ku meza.

Ibirahuri bibiri byegeranye, birimo icyayi ndetse n'icyatsi cy'umuravumba, biteretse ku meza isa umweru hirya yabyo hari icyatsi cy'umuravumba ariko cyo kitari mu mazi.

Isahane y'umweru iriho imbuto zitandukanye nk'icunga ndetse n'ibindi. Hateretseho n'agacupa gatoya, gafite ubuso bw'umweru, kazengurukijeho agapapuro kari mu ibara ry'umuhondo, kanditseho amagambo atandukanye.

Igiti cy'umuravumba cy'icyatsi kiri hagati mu nzira, hino hari inzu iteye umucanga, hakuno hari urugo rwubakishije amatafari, hakurya hari insina n'ibundi bwoko bw'ibiti bitandukanye.

Ameza y'imbaho iteretseho udusorori dutandukanye tumwe dukozwe mu byatsi, utundi dukozwe mu mavaze, hari n'agasekuru k'umweru karimo umuhini nawo usa umweruru, hari ibibabi byinshi ndetse n'utuntu twinshi tukozwe muri ayo mavase bigaragara ko hari imiti itandukanye ya kinyarwanda.

Uducupa turi mu ibara ry'umuhondo dushushanyijeho igikakarubamba n'akandi kari mu ibara ry'umweru n'umutuku, inyuma ho gato hari utundi turi mu ibara ry'icyatsi n'umweru n'utundi ducupa dutoya cyane turi hasi.

Ibinini biri mu ibara rya oranje ryerurutse, agakarito ka mpande enye karekare, gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'icyatsi. Hariho agasorori karimo umuti n'inyuguti zanditse mu ibara ry'umukara.

Agacupa gasa umweru hagati hashushanyijeho akanyoni kandi handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku. Hejuru gafite umupfundikizo w'umuhondo. Hasi hari ibara rihazengurutse ry'umutuku. Hirya yaho hari utundi ducupa bisa nka two harimo akaryamye n'utundi duhagaze. Hakuno hari andi magambo yanditseho.

Amacupa y'ibirahure ari mu kintu kiyafashe, atondetse ku murongo, harimo kandi n'ibirahuri byo kunyweramo, amwe hariho impapuro z'umutuku n'imipfundikizo y'umutuku. Harimo n'amashashi ari ku mpande yazo. Ayo macupa arimo amazi asa umuhondo, umutuku n'umutuku.

Agacupa gahagaze gafite impuzangano y'ibara ry'umweru, hazengurukijeho agapapuro gafite amabara y'umukara n'umweru, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'igishushanyo cy'akanyoni kagurutse.

Agacupa gafite ibara ry'umweru, kazengurukijeho agapapuro gafite ibara ry'umutuku, hakuno hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi cyanditseho ngo uvura kurangiza vuba, gucika intege. Inyuma hari abagabo n'umugore b'abazungu.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe ikibabi gifite ibice bitatu. Gifashe ku giti gifite ibishami byinshi bitandukanye biteye nkacyo cyenda kumera nk'iby'isombe. Hakurya hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Akabido k'ane gafite ibara ry'umuhondo, umupfandikizo wako usa umutuku n'amagambo akanditseho ari mu ibara ry'umutuku. Ku ruhande hari ikimera cy'igikakarubamba, kimwe gihagaze neza, ikindi bacagaguyemo ibice bitandukanye, iruhande rw'akabido hari igikombe cy'amata.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite ibinini mu kuboko kw'ibumoso bisa umweru, mu kuboko kw'iburyo harimo agakarito karekare kampande enye, gafite ibara ry'umweru n'amagambo yanditseho, ari mu ibara ry'icyatsi.

Uruvange rw'udukarito dufite amabara atandukanye turimo ibintu bitandukanye, nk'ikawa, amavuta, icyayi, parufe, amavuta yo guteka n'ibindi bitandukanye, nk'ibirungo hamwe n'imbuto zitandukanye, n'uturimo ama ji yo gufungurwa.

Umugabo wambaye ishati irimo uturongo tw'umukara n'ipantaro ya kake, n'umukandara w'umukara, ufashe ku meza nini iriho amacupa atandukanye afite impfundikizo iri imwe mu mabara atandukanye. Umugore wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe n'ikimuranga mu ijosi. Abandi bantu bari hirya, igitambaro kiri inyuma yabo cyanditseho dukoresha na nimero za telefone.

Ibinini birambitse hasi bisa nka kake yijimye, iruhande rwabyo hari agakarito kari mu mpande enye gafite ibara ry'umuhondo n'iry'icyatsi, hamwe n'amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'akanyoni.

Uruhurirane rw'ibintu bitandukanye birimo uducupa, udukoroboyi, akabindi, utujerekani, ikizu cyubakishije imyenda, impapuro ndetse n'ibindi bishwambaguje ahongaho nk'inkibase n'ibyombo.

Udusororo dufite ibara ry'umweru turimo ibihumyo ndetse n'umuhini wifashishwa mu gusya ibyo bashyira muri utwo dusekuru, imizi y'ibiti, urubuto rw'amapera ndetse n'utundi tubuto turi ku mpande, amakoma n'imeza nini.

Uducupa dukurikiranye dutatu ni tureture, utundi dutatu ni tugufiya tureshya n'akandi kamwe kari hagati yatwo kihariye. Utu dutatu tureshya, dushushanyijeho ikimera cy'ikakarubamba, kamwe kari mu ibara ry'umweru, akandi umuhondo, akandi umweru wijimye. Utundi dutoya dufite ibara ry'umweru, hakaba hariho n'udupapuro tuzengukijweho, turi mu ibara ry'umuhondo.